Iki ni igikorwa cyo gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune, ibi bidufasha kuba byaturinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, ni ngombwa ko buri wese ajya akaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, bityo ubuzima bwe bukarushaho kugenda neza.

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana binyuze mu gutanga imfashanyo zitandukanye zirimo ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwambara ndetse n'amafaranga yo kubakura mu bukene. Iki kigo ni ingirakamaro gituma abana batagwingira ndetse bakagira iterambere rirambye bakikura mu bukene.

Iki ni igikoresho cyagenewe gushirwamo amazi kugira ngo ayo mazi abe afite isuku, hanyuma abantu bayakeneye bajye bayabona kandi yujuje ubuziranenge. Iki gikoresho ni ingenzi cyane kuko gituma tugira ubuzima bwiza, ni ngombwa ko buri wese yakigira kugira ngo abungabunge ubuzima bwe.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi kidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza, iyo tuyanyweye turushaho gutekereza neza, amaraso yacu agatembera mu mubiri neza, ndetse bikaturinda n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Iki n'igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukaraba dukoresheje amazi meza n'isabune, iki gikoresho gituma twirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse tugahumura neza, hanyuma ibyo dukoze nabyo tukabikorana akanyamuneza kuko tuba dufite isuku nyinshi ihagije.

Iri ni itsinda ry'abantu, abagabo n'abagore biga ku bintu byinshi bitandukanye byabateza imbere, harimo nko kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, ni ngombwa ko abantu bigira hamwe icyatuma birinda ubukene ndetse n'imirire mibi bityo iterambere rikihuta.

Iki ni igikorwa cyo kwita ku bana babaha ibyo kunywa bitandukanye, bikubiyemo intungamubiri nyinshi, kugira ngo bitume barushaho gukura neza, batekereze neza ndetse bazatange umusaruro ku miryango yabo ndetse n'igihugu cyabo, ni ngombwa ko abana bafatwa neza, kuva bakiri bato kugira ngo iterambere ryabo ritegurwe neza.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kidufasha kubika ibintu byinshi bitandukanye birimo ibyo kurya n'ibyo kunywa: aha twavuga ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, ndetse n'amazi. Ni ingenzi cyane kuko iki gikoresho tunagikoresha n'iyo turimo dufura imyenda itandukanye.

ni igihe abana b'abakobwa batwita bataragize imyaka y'ubukure, ndetse akenshi usanga batwita batararangiza n'ishuri. Iki ni ikibazo gihangayikishije u Rwanda n'Isi muri rusange, bityo rero bikaba bisaba kugira ngo uruhare rwanjye n'urwawe bishyirwe hamwe kugira ngo turwanye iki kibazo.

Iri ni itsinda ry'abantu rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bashyira hamwe bakareba umuti w'uburyo bakemura ibibazo byinshi bitandukanye by'ubuzima, biterwa n'imirire mibi. Aha ngaha bigisha abantu kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu kubaha imiti ndetse no kubagira inama y'uburyo bakoresha kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko twumva inama z'aba bantu kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu.

Iki ni igikoresho dukoresha dutwaramo ibintu bitandukanye, harimo amazi, ibiribwa ndetse n'ibindi byinshi. Iki gikoresho gituma tubitwara ari byinshi ndetse tukabitwara mu gihe gito, kuko biba bifunze neza, birinzwe. Ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho kugira twihutishe iterambere ryacu.

Aya ni amazi karemano dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi twubaka ibintu byinshi bitandukanye haba inzu bigatuma zikomera ndetse zikaramba ndetse isaha gusa kuko aya mazi tuyakoresha turimo dufura imyenda myinshi itandukanye bigatuma imyenda yacu ikomeza kumera neza.

Iki ni igikoresho kigizwe n'impapuro nyinshi zitandukanye dukoresha twandika ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo turusheho kutazabyibagirwa ndetse turushaho no kubifata mu mutwe byihuse, bitume turushaho kugira ubumenyi ndetse n'ubwenge bwimbitse mu byo twandika ndetse no mu byo twiga.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubone amazi meza afite isuku ndetse yujuje n'ubuziranenge, ni ngombwa ko dufata neza ibi bikoresho kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza dutere imbere muri byose.

Iri ni itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bakora akazi ko kwita ku bantu, haba mu mikurire yabo, mu mitekerereze yabo ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange n'ibibazo by'ubuzima bahura nabyo, ni ingenzi cyane kuko aba bantu badufasha kumenya uko twakwitwara kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Iyi ni gahunda yashyizweho mu kurwanya icyorezo cya mambarg, kurwanya iki cyorezo bituma turushaho kugira ubuzima bwiza tugatera imbere tugatekereza neza bityo bigafasha igihugu cyacu ndetse natwe ni ingenzi cyane ko buri wese agira uruhare mu kurwanya iki cyorezo tukiyubakira igihugu cyiza.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi batandukanye baganira ku bintu byabateza imbere bagatekereza neza, bagakura neza, hanyuma igihugu kikarushaho gutera imbere mu buryo bwose, ni ingenzi cyane kuko iyi nama yungurirwamo ibitekerezo bigatuma abantu bose bayirimo bisanzura bakamenya icyabateza imbere.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi kidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje n'ubuziranenge, iki gikoresho kidufasha kuko kigira uruhare mu buzima bwacu kugira ngo birusheho kuba bwiza bityo bigatuma iterambere ryacu ryihuta haba mu mitekerereze, mu mitwe ndetse yewe bigatuma n'umubiri wacu ugira imbaraga zidasanzwe.

ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo tuvoma turabikenera kugira ngo dutware amazi afite ubuziranenge, si ibi gusa kandi, kuko ibi bikoresho tubyifashisha nk'iyo turimo dufura kugira ngo bidufashe kubona amazi mu buryo bwihuse, ni ingenzi cyane ko tugira ibi bikoresho kugira ngo turusheho gutera imbere no gukoresha igihe gito.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amazi. Ni ingirakamaro cyane kuri iki kigo kuko gituma tubona amazi meza bityo tugakora neza tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko dufatanya n'iki kigo mu kubungabunga amazi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima ku rwego rw'isi aho gitanga imfashanyo zitandukanye zirimo ubujyanama ku mirire aho abantu bigishwa kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara ndetse no gutanga imiti ku barwayi kugira ngo barusheho koroherwa.

Uyu ni umunsi wahariwe gushishikariza abantu kurwanya indwara ya kanseri dore ko ari indwara ikomeje guhangayikisha abantu benshi batandukanye, akaba ariyo mpamvu buri wese afite uruhare rwo kuyirinda ndetse no kuyirwanya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni igikoresho gikoreshwa kiturinda indwara zitandukanye hanyuma bigatuma ubuzima bwacu burushaho kumera neza bigatuma dutekereza neza hanyuma iterambere ryacu rikiyongera umunsi ku munsi, niyo mpamvu twese dusabwa gufata neza inkingo kugira ngo turusheho kumererwa neza.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gupima uburebure, ibiro ndetse n'ibindi bitandukanye by'umuntu, ni ingenzi cyane kuko gituma tumenya uko duhagaze tukamenya indyo twarya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bityo bitume dutera imbere.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha kubika amazi, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ibi bikoresho ni ingenzi cyane kuko n'iyo tugiye koga turabikoresha akaba ariyo mpamvu dusabwa kubifata neza no kubibungabunga kugira ngo turusheho kuzajya dukoresha ibikoresho bifite isuku, ndetse nubuziranenge.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye biga ku guhuriza hamwe ndetse no gufatanya mu gutuma ubuzima bw'abantu burushaho kugenda neza binyuze mu kurya indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga, harimo abantu no kuba bahugurana ndetse bakigishanya kugira isuku mu buryo bwose bigatuma ubuzima bwacu twese burushaho kuba bwiza.

Iri ni itsinda ry'abantu biga hamwe ku cyabateza imbere, bajya inama ku myitwarire yatuma barushaho kugira ubuzima bwiza, harimo nko kugirwa inama zo kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, birinda indwara, n'ibitera imbaraga, ndetse no kubigisha kubana mu mahoro.

Iki ni igikorwa cyo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ni ingenzi cyane ko dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko bituma tugira ubuzima bwiza tugatera imbere, dore ko binaturinda kurwaragurika bityo ubuzima bwacu bukarushaho kumera neza, tukagira ubuzima bufite icyerekezo.

Uru ni urukingo ruterwa abana bakiri bato kugira ngo barusheho gukura neza batekereza neza ndetse ubuzima bwabo budafite igwingira, akaba ari nayo mpamvu dushishikarizwa kuzajya tujyana abana bacu kwa muganga bakabakingira bagakura neza, bityo tukubaka u Rwanda twifufuza.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi, kidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bigatuma tugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ni ngombwa ko dufata neza ibi bikoresho by'umuyoboro w'amazi kugira ngo turusheho gusigasira imibereho myiza yacu.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bahurijwe hamwe no kwiga ku cyateza imbere ubuzima ndetse bigatuma birinda n'indwara nyinshi zitandukanye, bakoresheje indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ingenzi cyane ko abantu bahuza bakaganira ku cyabateza imbere.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi kidufasha kubona amazi afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bityo tukagira ubuzima bwiza bikaba byaturinda no kurwaragurika, bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza. Ni ngombwa ko dukoresha amazi meza afite isuku tugatera imbere.

Iri ni itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, bashinzwe gutanga ubuvuzi mu midugudu ndetse no mu tugari, si ibi gusa kuko batanga n'ubujyanama, mu myitwarire y'ukuntu abantu barera neza abana babo ndetse bakagira ubuzima bwiza bikabarinda n'indwara zitandukanye.

Iyi ni umuyoboro w'amazi udufasha kubona amazi meza afite isuku yujuje n'ubuziranenge, ni ingenzi cyane ko tuwukoresha kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwiza twirinde n'indwara nyinshi zitandukanye, bityo dutere imbere ndetse n'igihugu cyacu gitera imbere.

Izi ni nyubako ziberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, bituma ubuzima bw'abantu burushaho kumera neza, harimo nko gutanga ibyo kurya, ibyo kunywa, bigatuma ubuzima bw'abantu bugenda neza ndetse bagatera imbere mu buryo bwihuse. Ni ingenzi cyane ko twirinda kunona ndetse no kwangiza izi nyubako kugira ngo dukomeze twiyubakire iterambere rirambye.

Ibi ni ibikoresho by'umuyoboro w'amazi bidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje n'ubuziranenge. Ibi bikoresho bituma tugira ubuzima bwiza, kuko iyo dukoresheje amazi meza, dukura neza tugatekereza neza ndetse iterambere ryacu rikihuta. Ibi bikoresho bidufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aka ni akuma gakoreshwa mu gukingira umuntu, kamurinda indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kurindwa ndetse bugende neza. Ni ingenzi cyane ko twikingiza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, gitanga imfashanyo mu buryo butandukanye, harimo ibyokurya bitwa n'indyo yuzuye ari ibyubaka umubir, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, gutanga amafaranga bigatuma abana bagira ubushobozi bityo bikabarinda igwingira bagakura neza.

Uyu ni umuyoboro w'amazi udufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge aya mazi tuyakoresha dufura twoga ndetse yewe tunubaka ni ingenzi cyane ko dusigasira amazi kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza .

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi, kidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bityo bigatuma aya mazi tuyakoresha mu kugira ubuzima bwiza, tuyanywa, tukarushaho gukura neza, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta ndetse tugateza imbere n'igihugu cyacu.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye, bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu gutanga imiti igabanya uburibwe ndetse no gutanga ubujyanama harimo kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, birinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga kugira ngo abantu bose barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse batere imbere.

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, gitanga imfashanyo zitandukanye zirimo: amafaranga, imyenda, ibiryo, inkweto ndetse n'ibindi. Iki kigo gifatiye runini iterambere ry'abana kuko bituma bibarinda igwingira, bagakura bishimye, bagatekereza neza, iterambere ryabo rikihuta.

Iki ni igikorwa cyo gukara intoki dukoresheje amazi meza n'isabune dore ko bituma twirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, ni ngombwa ko buri wese akaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo arusheho gusigasira ubuzima bwiza agire iterambere rirambye.

Aya ni amazi karemano adufasha kubona umwuka duhumeka bityo bigatuma ubuzima bwacu burushaho kugenda neza, si gusa kuko aya mazi tuyakoresha turimo twubaka ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu aya mazi ari ngombwa cyane ko tuyasigasira kuko adufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iki ni igikoresho gikorwe mu biti k'ingirakamaro cyane dukoresha igihe tubikaho ibikoresho by'isuku kugira ngo byumuke neza biveho imyanda itandukanye, ni ngombwa ko dukoresha iki gikoresho kuko kidufasha kuba twagira isuku ndetse kikabungabunga n'ubuzima bwacu.

Amazi ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bintu byinshi bitandukanye; twoga, dufura, dutetse ndetse yewe si ibyo gusa kuko turanayanywa. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu, kuko atuma tugira imbaraga umubiri ugakora neza.

Iki ni ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abana, bagirwa inama y'uburyo bakwitwara, babatoza ikinyabupfura ndetse no kwitonda, kwiga cyane ,kubaha ndetse no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi . Ni ngombwa ko abana tubashyira imbere ,ndetse tukarushaho kubigisha ,uburyo bakwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu.

Izi ni imodoka nini zikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa, biva mu gihugu kimwe byerekeza mu kindi gihugu. Izi modoka zikora igihe kinini dore ko ziba zifitemo ubushobozi buruta ubw'izindi modoka zisanzwe, izi modoka ni ingirakamaro cyane kuko zituma igihugu gitera imbere ndetse kikihaza no mu biribwa.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kidufasha kubika ibinyobwa bitandukanye by'umwihariko igikoma kugira ngo kidakonja mu gihe gito ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana binyuze mu gutanga imfashanyo zitandukanye zirimo ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'amafaranga yo kubafasha bigatuma abana bakura neza, bakiga neza ndetse bakagira iterambere rirambye, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibi ni ibikoresho by'umuyoboro w'amazi bidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bityo umuntu wese ukoresheje ibi bikoresho aba yizeye umutekano w'amazi kugira ngo amenye niba indwara zitamufata kubera ko aba yakoresheje amazi afite isuku.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda binyuze mu gukaraba amazi meza n'isabune, ni ingenzi cyane kuko ibibi bituma tugira ubuzima bwiza butagira indwara ziterwa n'umwanda bityo bigatuma iterambere ryacu n'abacu ryihuta.

Aba ni abarezi bashinzwe gutanga ubumenyi butandukanye ku bana ndetse babatoza n'ikinyabupfura kugira ngo bakure bashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Aha ngaha bahabwa inyigisho zitandukanye, haba mu masomo atandukanye n'imyitwarire, imibare, ubugenge ndetse n'izindi, bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni igikoresho twe dukoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubikamo ibintu byinshi bitandukanye, birimo amazi, ibirayi, ibishyimbo, ndetse n'ibindi, iki gikoresho ni ingenzi kugikoresha, kuko bituma twizera umutekano w'ibintu twabitse, bityo iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukora ibintu bitandukanye igihe turimo gufura twifashisha iki gikoresho kugira ngo dufure neza hanyuma imyenda yacu twizeye umutekano wayo ko ntacyayanduza. Ni ngombwa ko tubungabunga ibi bikoresho kugirango dukomeze dufure neza.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubone amazi meza yujuje ubuziranenge ndetse afite n'isuku. Ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho kugira ngo twizere amazi duhawe ko ari intungamubiri afite hanyuma ari ingenzi ko tuyakoresha.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gupima umuntu, gishyirwa mu kaboko kugira ngo bamenye uko amaraso ye ameze, barebe ko nta muvuduko afite, bityo habashe kumenyekana ubufasha yahabwa ndetse n'inama yagirwa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibikoresho bigizwe n'impapuro nyinshi zitandukanye, dukoresha twandikaho ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tutazabyibagirwa ndetse turusheho no kubisigasira, bitume iterambere ryacu ryihuta ndetse turusheho kugira amakuru ku bintu byinshi bifatika.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo bari kwigira hamwe ku cyabateza imbere. Ibi ngibi ni ingenzi cyane kuko iyo abantu bashyize hamwe bituma bamenya ingamba zafatwa mu kurwanya ubukene ndetse no kubaka ubumwe kugira ngo bateze imbere Igihugu cyabo.

Iki ni ikiganiro gitangwa n'Ikigo cy'Igihugu kigamije kwita ku buzima birimo gutanga imiti itandukanye ndetse no gutera inkingo, bigatuma ubuzima bw'abantu bugenda neza. Si ibi gusa kandi banagirwa n'inama mu myitwarire ndetse n'imirire, aha twavuga nko kurya indyo yuzuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni igikoresho dukoresha mu kubika ibintu byinshi bitandukanye haba ibiribwa harimo; ibirayi, ibishyimbo, ibijumba ndetse n'ibinyobwa birimo amazi, ni ingenzi cyane kuko iki gikoresho tugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo turimo dufura, twoga turakifashisha bigatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza, ni ingenzi cyane ko twirinda kucyonona kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore bakora imishinga itandukanye yo kwiteza imbere, bigatuma igihugu kigira inyungu ndetse na bo ubwabo badasigaye. Ni ingenzi cyane ko abantu bose bakora imishinga yabateza imbere kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi dukoresha kugira ngo tubone amazi meza afite isuku yujuje ubuziranenge. Iki gikoresho gituma tugira ubuzima bwiza binyuze mu kuduha amazi meza, ni ngombwa ko tugisigasira tukarushaho kugira ubuzima bwiza, haba kuri twebwe ndetse n'igihugu muri...

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, kibaha ibyo kurya, kibaha imyenda yo kwambara, bityo bigatuma barushaho gutekereza neza. Ibi ngibi bituma abana bakura neza, bafite akanyamuneza bakiteza imbere ndetse bagateza n'imbere n'imiryango.

Iyi ni gahunda yo kwita ku bana, binyuze mu kubaha indyo yuzuye igizwe n'ibintu bitandukanye birimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Aha ngaha harimo kwifashishwa kubaha igikoma kirimo intungamubiri, kugira ngo barusheho gukura neza, batekereze neza bicyo iterambere ryabo rizihute bibarinde kugwingira.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi kidufasha kubona amazi meza, afite isuku ndetse yujuje n'ubuziranenge; iki gikoresho gituma ubuzima bwacu bugenda neza; kuko iyo twakoresheje amazi meza afite isuku; dukura neza, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni igikoresho gikozwe mu mbaho, gikoreshwa bapima abana bato b'impinja , kugira ngo bamenye ibiro bafite, uburebure bafite ndetse n'uko ubuzima bwabo buhagaze. Ni ingenzi cyane ko abana bapimwa, kugira ngo barusheho kumenya uburyo bakura neza n'indyo barya kugira ngo barusheho kwitabwaho.

Iki ni igikoresho cy'umuyoboro w'amazi kidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yujuje ubuziranenge, bityo bigatuma umuntu wese uyakoresheje agira ubuzima bwiza bikamurinda n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Iki nigikoresho dukoresha mu mu buzima bwacu bwa buri munsi kidufasha kubona amazi meza asukuye afite ubuziranenge, cyane ko aya mazi aba arimo umuti wica udukoko dutandukanye. Ni ingenzi cyane ko dusigasira uyu mugezi kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni igikorwa cyo gukaraba mu ntoki, umuntu akoresheje amazi meza n'isabune, ni ingenzi cyane kuko bituma biturinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, ni ngombwa ko buri wese akaraba amazi meza n'isabune, kugira ngo bitume agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza hanyuma kikaba gitanga n'imiti yewe n'inkingo kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kwitabwaho, bagire iterambere ryihuse batekereze neza bakure neza hanyuma ubuzima bwabo buhore bukeye.

Ni igihe umugabo n'umugore bajya kwipimisha ku mujyanama w'ubuzima, cyangwa se kwa muganga, kugira ngo babiteho, ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi, umwana akure neza, atekereza neza, bizamurinde igwingira, hanyuma azakurane itoto, ndetse afite n'ibyishimo bidasanzwe.

Iki ni ikinini gihabwa umwana muto kugira ngo kimurinde kuba yarwara indwara nyinshi zitandukanye, zirimo inzoka, impiswi ndetse n'izindi zitandukanye. Ibi ni ingenzi cyane kuko bituma umwana akura neza, atekereza neza, iterambere rye rikihuta.

Izi ni imbyino gakondo zikorwa abantu bakoresheje ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaguru, amaboko, umutwe, amano ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane kuko zituma abantu basusuruka, bakagira ibyishimo yewe ibirori byabo bikagenda neza.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi batandukanye, bashyiraho ingamba zo kurwanya icyorezo cya mabaga. Ni ngombwa ko tukirwanya twese twivuye inyuma, dufatanije, kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu, dutere imbere mu buryo bwose.

Iki ni igikoresho dukoresha twandikamo, kikadufasha kubika amakuru ndetse yewe ku buryo tutazibagirwa kuko iyo tuyakeneye turagaruka tukareba muri iki gikoresho, ni ngombwa ko iki gikoresho gifatwa neza tukarinda kugica ndetse yewe, tukirinda no kucyanduza kugira ngo turusheho kubika amakuru ahantu hizewe ndetse bidufashe gute......

Iyi ni gahunda yo kwita ku buzima bw'abantu; binyuze mu gutanga imiti ndetse n'inkingo zituma ubuzima bw'abantu burushaho kugenda neza, bikabarinda n'indwara zitandukanye, sibi gusa bagirwa n'inama y'ibintu bitandukanye, harimo nko kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bidufasha kubona amazi meza afite isuku ndetse yewe yujuje n'ubuziranenge bigatuma ubuzima bwacu burushaho kumera neza, tugakora neza tugatekereza neza, ndetse yewe n'imirimo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ikarushaho kuduteza imbere ndetse tukamera neza tukagira ubuzima buzira umuze.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu kubaha imiti, mu gutanga ubujyanama mu mitekerereze ndetse no gukora ubukangurambaga mu mirire ku buryo bituma abantu bagira ubuzima bwiza, ni ingenzi cyane kuko bituma iterambere ry'abantu ryihuta ndetse n'igihugu.

Ibi ni ibihingwa mu butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka bityo tugatekereza neza hanyuma iterambere ryacu rikihuta, si ibyo gusa kuko ibi bihingwa bikoreshwa nk'umuti dore ko bivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo umutwe, amaguru.

Ibi ni ibihingwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi turya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bidufasha kuba byaturinda indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi, ni ngombwa ko tubirya kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu, haba abana bato ndetse n'abakuru.

Iyi ni gahunda yashyizweho kugira ngo ishishikarize abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe binyuze mu bintu byinshi bitandukanye, bahabwa imiti itandukanye ndetse bagirwa n'inama zatuma bafata neza ubuzima bwabo by'umwihariko bwo mu mutwe, bigatuma biteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu.

Iyi ni gahunda yo kurwanya ikintu cyose cyatuma umuntu avutswa uburenganzira bwe, bityo akabaho neza. Aho tubibonye turasabwa gutanga amakuru kugira ngo ababikoze bakurikiranwe kugira ngo turusheho kwiyubakira igihugu gifite isuku ndetse gifite n'ubuzima bwiza ndetse n'ubutabera.

Iki ni igikoresho kiri mu bwoko bwi'ibiti twicaraho kugirango turusheho gutekereza neza ndetse iyo dufite n'umunaniro tubasha kuruhuka ni ingenzi cyane kuko iki gikoresho gituma dutera imbere kubera ko tuba twatekereje neza twaruhutse bihagije.

Ibi ni ibikoresho dukoresha twicara kugira ngo turuhuke bityo bitume dutekereza neza, ibyo dukora tubikorarane umurava ndetse tubikorane n'ibyishimo, ibi bikoresho ni ingenzi cyane ko tubisigasira tukirinda kubyonona kugira ngo turusheho guteza imbere ubuzima bwacu.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'abantu muri rusange ku isi, uyu munsi higishwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo imyifatire, imyitwarire abantu bagera kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye, ahangaha hatangwa ikiganiro kigamije gushishikariza abantu kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku bana, kibaha amafaranga yo kubatunga, kibaha ibiryo bitandukanye, bityo bigatuma abana bakura neza bagatera imbere, bityo iterambere ryabo rikihuta ndetse n'iry'igihugu cyabo rikihutishwa.

Ubu ni uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe binyuze mu gutanga imiti yabuhariwe ituma abantu mu mitwe yabo ikora neza si n'ibyo gusa harimo no gutanga ubujyanama mu myitwarire no mu myifatire no mu mibanire n'abandi ku buryo bituma umuntu abaho neza ubuzima buzira umuze.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'abantu ku isi. Ahangaha hatangwa inyigisho zitandukanye zirimo kwita ku buzima binyuze mu kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga ndetse no kwigisha abantu kwifata neza no kubana mu mahoro kuko nabyo biri mu bituma bagira ubuzima bwiza.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima gitanga imiti itandukanye ivura abantu ndetse kibagira n'inama zitandukanye, haba mu kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ingenzi cyane ko twita ku buzima bwacu kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima binyuze mu gutanga imiti itandukanye ivura abantu bafite uburwayi ndetse no kubaha ubujyanama ku buryo bakwitwara n'indyo barya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ni ngombwa ko dusigasira ubuzima bwacu tukabyitaho kugira ngo turusheho gutera imbere.

Iki ni igikoresho dukoresha tuvuga kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane bitadusabye gukoresha imbaraga nyinshi, ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho dore ko bituma tubaho neza, bityo tugakoresha n'ivugururamajwi abantu tukumvikana mu buryo bwihuse tugatera imbere.

RBC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abaturage bose mu gihugu, iki kigo gifasha abaturage kwifata neza ndetse no gutunganya ubuzima bwabo kugira ngo butajya mu kaga, muri ubwo buryo babagira inama y'ukuntu bakwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima ku rwego rw'isi, uyu munsi hatangwa ibintu byinshi bitandukanye bishingiye ku buzima, harimo gutanga imiti ifasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza ndetse no gutanga ubujyanama ku myitwarire n'imyifatire n'indyo barya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni igikoresho gikoreshwa bapima umuntu kugira ngo bamenye umuriro afite mu mubiri, bityo bibashe kuba byafasha kugira ngo ahabwe ubufasha bwi'imiti ndetse yewe bamenye n'uburyo bamwitaho kugira ngo ubuzima bwe bugarure ubuyanja bitume ahabwa ubuvuzi.

Iki ni igikoresho mu dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubika ibiribwa bitandukanye harimo nk'ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, amasaka, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu kugira ngo turusheho kubika ibintu byacu neza bimerewe neza hanyuma natwe bizadufashe kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni inama ikubiyemo abantu batandukanye haba ab'igitsina gore n'igitsina gabo, baganira hamwe ku bintu byabateza imbere haba mu bukungu, mu buzima yewe bityo barusheho guhorana ubuzima bwiza buzira umuze. Tuvuze nko ku buzima, aha ngaha ni kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Abana babayeho mu buzima bubi bw'ubukene , babayeho bari kumihanda bafite agahinda kenshi bitewe n'imirire mibi no kubura amafaranga no kubura ababitaho. Akaba ariyo mpamvu ababanaana nitubabona dusabwa gutanga uruhare rwacu kugira ngo tubafashe kubona ibyo kurya hanyuma dutange n'amakuru kuri leta kugira ngo ibashe kuba yabaha ubutabazi bw'ibanze.

Iri ni itsinda ry'abantu baganira ku bintu bitandukanye bigamije guteza imbere ubuzima, harimo kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ngombwa ko twita ku buzima bwacu kugira ngo turusheho gutera imbere, bityo ubuzima bwacu buhore bunezerewe.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ku buzima gitanga imiti itandukanye igabanyiriza abantu uburibwe, si ibyo gusa kuko gitanga n'ubujyanama ku myitwarire ndetse n'imirire barya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, aha twavuga ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Uru ni uruhare rwa buri muntu mu gusigasira ubuzima bwiza bw'umuryango, ni ingenzi cyane ko buri wese abigira ibye, atanga ubufasha haba mu kugira inama abantu, mu byo kubaha indyo yuzuye, bityo bigatuma igihugu gitera imbere n'abantu twese tugatera imbere, ni ingenzi cyane ko dufatanya kugira ngo turusheho kubaka ubuzima bwiza bwacu twese.

Iri ni itsinda ry'abanyeshuri biga ubuvuzi aho bakora ibintu byinshi bitandukanye harimo gutanga inyigisho mu kwirinda kwangiza ubuzima binyuze mu kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, birinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga. Si ibi gusa kandi kuko bafasha abantu no mu mitekerereze.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bifite akamaro ku buzima bwa muntu, dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, dore ko biri mu bwoko bw'ibitera imbaraga, akaba ariyo mpamvu buri wese afite uruhare no kubungabunga ibi bihingwa ndetse byaba ngombwa akanabihinga, akaba abifite ku bwinshi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka bityo tugakura neza tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta, ni ingenzi ko dusigasira ibi bihingwa tukirinda kubyonona kugira ngo twubake umuryango mwiza ndetse twubake n'igihugu cyiza giteye imbere.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye ririmo abagabo n'abagore, biga hamwe ku cyateza imbere umuryango wabo ndetse n'igihugu muri rusange. Ahangaha bagirwa inama ku buryo bafata neza ubuzima bwabo, barya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe mu buryo bw'imitekerereze kugira ngo hatangwe ubufasha bw'uburyo abantu bakwitwara n'uburyo babana kugira ngo barusheho kwitwara neza . Ni ingenzi cyane ko abantu babana mu mahoro bakavuga ibintu babanje gutekerezaho kandi bakavuga ibintu byubaka.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bahuriza hamwe mu kwiga icyabateza imbere bityo bigatuma bahorana amajyambere ndetse bakagira n'imitekerereze igezweho, bigatuma bahora bashimwa n'abantu ndetse n'igihugu kikababyazamo umusaruro bakiteza imbere.

Iki ni igikoresho dukoresha mu kanwa dusukura amenyo yacu kugira ngo ahumure neza bityo duhorane ubuzima bwiza bufite intego ndetse tumeze neza cyane, ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho dusukura mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi dusukura umubiri wacu cyane cyane mu kanwa ni ingenzi cyane ko dusukura umubiri wacu buri munsi twifashishije iki gikoresho kuko biturinda indwara zitandukanye dutuma dutera imbere.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu kuringaniza amenyo ndetse no gukomeza amenyo, bityo bigatuma amenyo yacu amera neza bigatuma biturinda n'indwara nyinshi zitandukanye yewe ni ingenzi cyane ko dukoresha aka gakoresho tugashyira mu menyo.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu gukura amenyo kugira ngo umuntu bibe byamurinda kurwara indwara nyinshi zitandukanye, ziterwa no kugira amenyo atameze neza mu mubiri. Ni ingenzi cyane kuko bituma umuntu abasha gutekereza neza iyo yakuwe aya menyo atari ngombwa mu mubiri, bityo bigatuma iterambere rye ryihuta.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gusukura mu kanwa, kigatuma mu kanwa hahumura neza bityo umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, amenyo ye agahora asukuye, asa neza ndetse yewe bikamutera no guhora afite akanyamuneza.

Iki ni igikoresho dukoresha kugira ngo tugire amenyo meza yewe n'ubuzima bwacu birusheho kugenda neza iki gikoresho ni ingenzi kuko gituma amenyo yacu akomera, agahumura neza bityo ubuzima bw'umuntu bukarushaho kuba isukari, bigatuma atera imbere.

Iki n’igikoresho gikoreshwa mu gusukura amenyo y'umuntu, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Bituma amenyo y'umuntu ahumura ndetse n'umwuka asohora ukaba ari mwiza. N’ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho kugira turusheho gusigasira amenyo yacu, bityo n'ubuzima bwacu bugende neza muri rusange.

ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tubikoresha by' umwihariko mu menyo kugira ngo amenyo yacu akomeze guhumura neza ndetse dutekereze neza biturinde n'indwara ziterwa n'umwanda, niyo mpamvu ibi bikoresho buri wese aba asabwa kubisigasira akabifata neza kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumererwa neza abe atuje afite ubuzima buzira umuze.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo dukaraba turacyifashisha ndetse yewe n'iyo turimo guhanagura imyanda, niyo mpamvu buri wese asabwa kugira iki gikoresho gifite isuku, akakibungabunga akakibika ahantu heza hatatuma kigeraho umwanda.

Iki ni igikoresho dukoreshashya mu buzima bwacu bwa buri munsi, kikadufasha kugira amenyo meza tugahumeka neza tugatekereza neza bityo ubuzima bwacu bukarushaho kumera neza tugatera imbere ndetse tugateza imbere n'abandi kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza twese.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi dusukura mu kanwa. Ni ingenzi cyane kuko iyo dukoresheje iki gikoresho bituma twirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, bityo tugahumura neza ndetse tugasa neza mu buzima bwa buri munsi.

Iki ni igikoresho gikoreshwa n'abaganga badukingira, kugira ngo biturinde indwara zitandukanye, turusheho gukora imirimo yacu dufite ubuzima buzira umuze, iterambere ryacu ryihute, bityo rero twese turasabwa kuzajya twikingiza, kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu, buzire umuze, dukomeze dutere...

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gukura amenyo y'umuntu yangiritse kugira ngo arusheho kuzagira amenyo meza atunganye ndetse ubuzima bwe buzarusheho kumererwa neza atekereze neza, akure neza ndetse afite ibyishimo bidasanzwe n'umunezero.

Aya ni amenyo agize umuntu. Aya menyo afasha umuntu mu bintu byinshi bitandukanye, harimo nko kurya kuko arya akoresheje amenyo. Aya menyo ni ingenzi cyane kuko atuma umuntu akora ibintu neza ndetse akabikorana imbaraga zidasanzwe.

Iki ni igikoresho dushyira mu kanwa, kikadufasha kuringanza amenyo ndetse bikaba byaturinda no kurwara indwara nyinshi zitandukanye, iki gikoresho ni ingenzi cyane, dore ko gituma amenyo yacu arushaho gukomera, bityo tukagira ubuzima bwiza, bikaturinda kunegekara.

Uyu ni umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo ndetse n'abana, ni ngombwa ko umuryango ubaho kandi bakabana neza bigatuma iterambere ryawo ryihuta, bakarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ni ngombwa ko dufatanya kugira ngo twubake umuryango.

Ibi ni ibikoresho bidufasha kureba ibintu biri kure ndetse n'ibiri hafi bityo bigatuma amaso yacu atagorwa no kureba ibintu ndetse bigatuma tugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza, hanyuma ibyo dukoze byose tukabikorana amahoro n'umutuzo.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu akoresheje ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, umutwe, amano, ikibuno ndetse n'ibindi, ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza bikaba byaturinda no kurwaragurika.

Ibi ni ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, ni ngombwa ko turya iyi ndyo yuzuye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bityo iterambere ryacu ryihute buri munsi n'abacu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni ikinyobwa gikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, tunywa mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukarushaho kugira imbaraga, tugatekereza neza ndetse yewe tukagira akanyamuneza tugahora twishimye, ni ngombwa ko iki kinyobwa tukinywa mu rugero ndetse tukirinda gukabya kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu.

Ibi ni ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, iyi ndyo ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa munsi kuko ituma amagufwa yacu akomera, ubuzima bwacu ntiburwaragurike, bigatuma duhorana akanyamuneza ndetse iterambere ryacu rikihuta.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi dukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bikoresho bituma tugira ubuzima bwiza kuko bituma amaraso yacu atembera neza mu mubiri, amagufwa yacu agakomera bityo tukanatekereza neza ndetse twihuse, bigatuma tugira iterambere ry'igihe kirambye.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze si ibyo gusa kuko ibi bihingwa bidufasha no kubona imbuto zitandukanye turya kugira ngo turusheho gukomera bityo biturinde no kurwaragurika ni ingenzi cyane ko tubungabunga ibi bihingwa kugira ngo turusheho gutera imbere.

ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto bituma tugira ubuzima bwiza dore ko bituma amagupfa yacu akomera musi yacu nayo igakomera bityo tukarushaho gutekereza neza ndetse ubuzima bwacu bugatera imbere mu buryo bwihuse.

Ibi ni ibyatsi bikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kuboha ibyibo bitandukanye, bityo ibi byatsi ni ingenzi cyane kuko bituma dukora ibyibo bigezweho kandi tukaba twakora n'ubucuruzi bw'ibyibo bityo iterambere ryacu rikihuta.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu myitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza amagufwa yacu akomere, dutekereze neza dukure neza, bityo biturinde no kurwaragurika tugire iterambere ryihuse kandi rirambye.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhererekanya amakuru ava kuri bamwe ajya ku bandi. Si ibyo gusa kuko iki gikoresho tugikoresha dufotora, iyo ushaka kumenya ifoto y'umuntu, wifashisha iki gikoresho, ni ingenzi cyane ni yo mpamvu tugomba kukirinda guhungabanywa.

Iki ni igikoresho dukoresha duterura iyo turimo dukora imyitozo ngororamubiri kugira turusheho kugira ubuzima bwiza iki gikoresho gituma amagufwa yacu akomera imitsi ikarambuka bityo tukagira ubuzima bwiza ni ngombwa ko dukoresha iki gikoresho kugira ngo dutere imbere mu buryo bwihuse.

Iki ni igikorwa cyo kwita ku mwana tumwitaho mu buryo butandukanye, kumuterura, kumusoma, bityo bigatuma umwana yishima agakurana ibyishimo ndetse agakura neza akunda umuryango. Ni ingenzi cyane ko twita ku bana bacu kugira ngo dutere imbere muri byose.

Kwirukanka ni umwitozo ngororamubiri dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho gutekereza neza gukora neza ndetse yewe iterambere ryacu ryihute ni ngombwa ko tujya dukora uyu mwitozo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bumererwe neza ibyo twifuza tubigereho dufite ubuzima buzira umuze.

Iyi n’imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye, birimo amaguru, amaboko, umutwe, amano ndetse n'ibindi. N’ingenzi cyane ko dukora imyitozo ngororamubiri, kuko biturinda kurwaragurika ndetse bigatuma umubiri wacu ukomera, bityo iterambere ryacu rikihuta.

Iyi ni indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Iyi ndyo ni ingenzi uko tuyirya kuko bituma amagufwa yacu akomera, tugatekereza neza, imitsi yacu ikarambuka, bigatuma tugira iterambere rirambye ndetse tukarushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Izi ni impapuro zikubiyemo amakuru atandukanye umuntu akenera kugirango ngo arusheho kumenya ibintu byinshi bituma ubuzima bwe burushaho kugenda neza, ni ingenzi cyane kuko ibi bikorwa bituma tumenya isi uko ihagaze ndetse n'icyo twakora kugira ngo dukomeze kwita ku buzima bwacu n'abacu.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe turimo gufata amafunguro by'umwihariko ibyo kunywa birimo amazi, ubushera, ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye. Iki gikoresho ni ingenzi cyane kuko na cyo gituma tugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko gihora gisukuye kugira ngo ibinywerwamo na byo birusheho kudutungira ubuzima.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gupima abantu kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, niba hari indwara bafite babashe guhabwa ubufasha n'uburyo bakwitabwaho, ndetse bitume barushaho kugira ubuzima bwiza batera imbere muri byose.

Izi ni impapuro zitandukanye, zidufasha kunguka ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye, haba mu bukungu, mu buzima, ndetse n'ibindi bitandukanye. Si ibyo gusa, kuko bituma tutanibagirwa amakuru y'ingenzi aba ahanditse, ko tuba tuzanayamenya mu gihe kizaza.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bidufasha kubona umwuka duhumeka, bityo tukagira ubuzima bwiza, iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko twirinda kwangiza ibi bihingwa kugira ngo turusheho kwita ku gihugu cyacu ndetse tugiteze imbere muri byose.

Iki ni igikoresho dukoresha mu itumanaho duhererekanya amakuru ava kuri bamwe ajya ku bandi, ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho kugirango ngo turusheho kwihutisha ibintu ndetse turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibibiribwa igizwe n'indyo yuzuye, ari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibiririnda indwara, ni ngombwa cyane ko dufata ibi biribwa bigizwe n'indyo yuzuye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, bityo tugere ku iterambere twifuza.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa bapima, abantu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, bamenye uko batekereza, uko amagufa yabo akora ndetse n'uko igifu cyabo gikora. Ni ngombwa ko ibi bikoresho igihe umuntu ahuye n'ikibazo yisunga abaganga bakamupima, bakabasha kumenya uko ahagaze.

Iki nigikoresho dukoresha iyo tuvuga kugira ngo tugire ijwi riranguruye, bityo umuntu waba ari kure nawe abe yabasha kutwumva bitatugoye tudakoresheje imbaraga nyinshi, iki gikoresho ni ingenzi cyane kuko gituma dusohora n'umwuka muke iyo tuvuga.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaboko, amaguru, umutwe ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane ko dukora imyitozo kuko bituma tugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza, umubiri wacu ugakomera, bityo bigatuma iterambere ryacu ryihuta.

Uyu ni umunsi Mpuzamahanga wahariwe kurwanya Sida, ni ngombwa ko tuyirinda mu buryo bwose bushoboka tukifata kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abacu, bityo dutere imbere ndetse n'Igihugu cyacu gitere imbere.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gupima umuntu cyane cyane mu kanwa kugira ngo bamenye uko ahagaze bitume ahabwa ubufasha, haba mu mitekerereze no mu mikorere ku buryo yakwitwara kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, yiteze imbere ndetse ateze imbere....

Iki ni ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu gitanga ubufasha ku mitekerereze n'imyitwarire haba mu buzima bw'abantu harimo nko: kurya indyo yugizwe n'ibyubaka umubiri biririnda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga ndetse no gutanga imiti n'inkingo kugira ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Iyi ni gahunda yo kurwanya indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'inkende, twirinda kuzikoraho, twirinda kujya mu mashyamba tutabiherewe uburenganzira kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bityo dutere imbere ndetse duteze imbere n'igihugu cyacu.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'abagore, aho bagirwa inama y'uburyo bakwifata kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima bwabo, binyuze mu mirire myiza, mu mikorere ndetse no kwiteza imbere. Ni ingenzi cyane ko bahabwa agaciro kandi bakubahwa.

Iyi ni gahunda yo kwirinda icyorezo cya Kanseri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, iyo twirinze iki cyorezo, bituma duhorana amahoro tugatekereza neza bityo iterambere ryacu rikihuta, kurwanya icyorezo cya Kanseri ni ingenzi kuri njyewe ndetse nawe.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, akaba ari yo mpamvu hano twese dusabwa kugira isuku kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza haba mu byo turya, mu byo tunywa, ndetse yewe n'ibyo twambara kugira ngo turusheho kumererwa neza.

Iyi ni gahunda yo gukora ubushakashatsi mu burasirazuba bwa Afurika ku bigendanye n'ubuzima nko kumenya icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'abantu bose burusheho kugenda neza haba mu kumenya imiti yakoreshwa ndetse n'indyo zakoreshwa kugira ubuzima bw'abantu burusheho kugenda neza.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinjzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu gutanga imiti itandukanye, ndetse no kubagira inama ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'uburyo bakwitwara, uburyo babana mu mahoro kugira ngo birinde amakimbirane bitume ubuzima bwabo burushaho kugenda neza batera imbere,

Uyu ni umunsi wahariwe gushyira imbere ubuzima bwo mu mutwe n'ubwonko mu rwanda; uyu munsi ugamije gukora ubushakashatsi ndetse no gushishikariza abantu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse no gufata neza abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe; bakabagira inama ndetse bakabaha n'imiti y'uburyo byabafasha kuba ubuzima bwabo bwagenda neza.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga w'Afurika ushinzwe kwishimira ubuvuzi ndetse ugatanga n'impuguro zitandukanye, ndetse harimo no gutanga imiti n'ubufasha mu mitekerereze y'abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni gahunda yashyizweho yo kurwanya icyorezo cya mabaga binyuze mu kwirinda gukora ku nyamaswa zitandukanye, bigatuma ubuzima bwacu burushaho gukomeza kurindwa iki cyorezo kugira ngo turusheho gutera imbere ndetse duteze imbere n'igihugu cyacu.

Iyi ni gahunda yahariwe kurwanya icyorezo gitera sida binyuze mu bintu byinshi bitandukanye harimo nko gukoresha agakingirizo, kwifata yemwe bigatuma ubuzima bw'abantu bugenda neza, aha ngaha hatangwa inyigisho zo kubyirinda.

Iki ni igikoresho kivura uburibwe butandukanye kuko gikomeza n'amagufa, iyo umuntu yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, by'umwihariko ikibazo k'imvune amushyiraho iki gikoresho ku kaboko kugira ngo amaboko ye amererwe neza, amagufwa ye akomere hanyuma n'imitsi irambuke, ni ingenzi cyane ko tujya kwa muganga bakadushyiraho iki gikoresho kugira ngo turusheho kuramira ubuzima bwacu.

Iyi ni gahunda yo kuzamura ubukungu bwa afurika binyuze mu iterambere rishingiye ku burezi. Ahangaha ni ugutanga ubumenyi ndetse no kubwakira, ibingibi bituma abana bahinduka abahanga bityo bagashobora kwihangira umurimo bigatuma biteza imbere bigateza n'imbere afurika yose muri rusange.

Iki ni ikigo gishinzwe kwimakaza uburinganire mu bantu, abantu bose bagahabwa amahirwe angana, nta kugendera ku gitsina kimwe, bityo bigatuma iterambere rizamuka ku bantu bose, ndetse bigatuma bagira ubuzima bwiza. Ni ingenzi cyane ko turwanya ubusumbane, ahubwo abantu bose tukabaha amahirwe angana kugira ngo turusheho kwiyubakira Igihugu cyacu.

Iyi ni gahunda yashyizweho yo kurwanya igwingira mu bana hatangwa inyigisho zitandukanye z'uburyo abana bakwitabwaho bakarindwa igwingira hakoreshejwe indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ngombwa ko twese tubigiramo uruhare tukarinda abana bacu igwingira dukoresheje kubaha indyo yuzuye, bityo tugatera imbere n'igihugu cyacu kigatera imbere.

Icyumweru cyahariwe kwita ku buzima n'imibereho myiza by'abantu ku isi hose. Iki cyumweru ni ingenzi cyane kuko higishwamo inyigisho zitandukanye z'uburyo umuntu yakwitwara kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, haba mu mirire, haba mu mikorere ndetse yewe iterambere rye rikihuta.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, binyuze mu gutanga imiti itandukanye igabanya uburibwe ndetse no gutanga ubujyanama ku myitwarire yatuma abantu barushaho kwirinda indwara, yemwe bigatuma iterambere ry'abantu ryihuta.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu by'umwihariko mu kubaha imiti, kubaha ubufasha bwo mu mitekerereze, imyitwarire, ni ingenzi cyane ko igihe duhuye n'ikibazo twisunga iki kigo kugira ngo dufashwe turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku bufatanye ku bantu kugira ngo barusheho guteza imbere ubuzima bwabo, haba mu buzima, mu bukungu, ndetse n'ibindi. Ahangaha bigishwa gushyira hamwe inkingi y'iterambere, bityo bigatuma batera imbere, bagateza imbere n'igihugu.

Izi ni inyigisho zigamije kudufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura neza. Ni ingenzi cyane ko tugira ubuzima bwiza tubigizemo uruhare, turya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Si ibi gusa kandi ibyo dukoze byose tugomba kubikorana ubwenge n'ubushishozi.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu gutanga imiti ndetse n'ubujyanama mu myitwarire abantu bagira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza harimo nko kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga .

Iyi ni imyambaro yambarwa mu ntoki igihe abaganga bagiye gutanga ubufasha ku barwayi bagiye kubaha imiti kugira ngo birinde gukora kuri iyo miti bibe byabatera uburwayi ni ngombwa ko ibi bikoresho bifatwa neza bikabugwabungwa kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bw'abarwayi ndetse n'abaganga duteza imbere.

Iyi ni inama ikubiyemo abantu batandukanye b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, biga hamwe ku kintu cyabateza imbere by'umwihariko mu kwita ku buzima bafata indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ingenzi cyane ko abantu bajya inama imyitwarire n'imyifatire kugira ngo barusheho kugira ubuzima.

Iyi ni inyubako ndende ishinzwe kwakira abantu batandukanye haba abo mu gihugu imbere ndetse n'abo hanze, ibaha ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'aho kuruhukira, iyi nyubako ni umusingi w'iterambere ryacu kuko rituma abakerarugendo bihuta ndetse bagahorana akanyamuneza bakadusigira amafaranga, bigatuma igihugu cyacu gitera imbere.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza tugatera imbere ni ngombwa ko twirinda konona ibi bihingwa kugira ngo turusheho kwiteza imbere ndetse duteze imbere igihugu cyacu gihore gitemba amata n'ubuki.

Amata ni'ibinyobwa byiza bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye zituma umubiri w'umuntu urushaho kumererwa neza, agakura neza, agatekereza neza ndetse yewe niyo ari mu kazi agahora agakorana ubuhanga n'ubushishozi kuko adufasha no gutekereza neza.

Ibi ni ibinyabiziga bikoreshwa mu ngendo zitandukanye biva ahantu hamwe byerekeza ahandi, ibi binyabiziga bidufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi kuko bidufasha kubahiriza igihe ndetse no kugikoresha neza bityo bigatuma iterambere ryacu ryihuta, ni ingenzi cyane ko dukoresha ibinyabiziga kugira ngo twihutishe iterambere.

Ibi ni ibinyabiziga dukoresha mu ngendo zitandukanye, tuva ahantu hamwe twerekeza ahandi. Ibi binyabiziga bituma tugera ku iterambere rirambye kuko bituma dukora ibintu mu gihe gito ndetse tukabikora ari byinshi, bigatuma ubuzima bwacu burushaho kugenda neza, tukoroshya ibintu, tugatera imbere.

Iki ni ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima, aho umuntu wese uhuye n'ikibazo cy'uburwayi yisunga iki kigo hanyuma bakamwitaho bakamuha imiti ndetse yewe bakamuha n'ubujyanama mu myifatire n'imyitwarire y'ukuntu yakwitwara kugira ubuzima bwe butajya mu kangaratete arusheho kuba atekanye afite ubuzima bwiza.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, kibaha imiti, kibaha ubujyanama bw'uburyo bakwitwara kugira ngo birinde indwara zitandukanye. Ni ngombwa cyane ko igihe duhuye n'ibibazo bitandukanye ibyo ari byo byose twisunga ikigo nderabuzima kugira ngo babashe kuba baduha imiti, hanyuma baduhe n'ubujyanama bw'uburyo twakwitwara.

Iki ni ikimera kidufasha nk'abantu kubona umwuka duhumeka, si ibi gusa kuko iki kimera kidufasha no kuba twabona imbaho, iyo turimo twubaka turacyifashisha, iki kimera kidufasha no kuba twabona inkwi zo gucana, ni ingenzi cyane kuri iki kimera kuko kidufatiye nk'abantu muri rusange.

Iki ni ikigo cya butaro gishinzwe kwita ku buzima aho gitanga imiti itandukanye igabanyiriza abarwayi uburibwe bigatuma barushaho kugenda boroherwa ndetse no gutanga ubujyanama ku myifatire ndetse n'imyitwarire yatuma batarwaragurika bigatuma iterambere ryabo ryihuta.

Izi ni inyubako zikoreshwa mu kwakira abantu haba abo hanze ndetse n'imbere mu gihugu kugira ngo barusheho gutekereza neza ahangaha bifashishwa kubakoresha ibyokurya byiza biba biri muri izi nyubako ndetse amacumbi meza bakaryama bakaruhuka neza hanyuma akazi gakuri bakagakora.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bitanga umwuka abantu duhumeka, bigatuma tugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko tubibungabunga, tukirinda kubyonona kugira ngo twiteze imbere ndetse duteze n'imbere igihugu cyacu, bityo duhore mu mahoro, duhora twishimye.

Iri ni itsinda ry'ibiti bitandukanye bitanga umwuka abantu duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza tugatera imbere, si ibi gusa kuko ibiti tubikoresha tubona imbaho nyinshi zitandukanye, bigatuma tugira n'amafaranga tugatera imbere, ni ngombwa ko tubibungabunga kugira ngo twiteze imbere.

Ibi ni ibikoresho dukoresha twicaraho bikadufasha kuruhuka, bigatuma dutekereza neza bityo bigatuma tugira imbaraga zidasanzwe zo gukora tugatera imbere. Ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho ndetse tukanabifata neza kugira ngo turusheho kubaikira ubuzima bwacu ndetse n'ubw'igihugu.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima, binyuze mu gutanga imiti itandukanye igabanya ububabare ndetse no gutanga ubujyanama ku byo abantu bakora, by'umwihariko mu kurya indyo yuzuye kugira ngo bibarinde kurwaragurika, indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Iki ni ikinyabiziga gikoreshwa mu ngendo zitandukanye kiva ahantu hamwe cyerekeza ahandi. Iki kinyabiziga kidufasha gutera imbere kuko dukoresha igihe cyacu neza ibintu bitatugoye bityo bigatuma iterambere ryacu ryihuta tugateza imbere n'igihugu cyacu.

iri ni itsinda ry'abagabo babiri bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu kubaha imiti itandukanye igabanyiriza abantu uburibwe ndetse no kubagira inama n'uburyo bakwitwara kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza binyuze mu kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto bidufasha kugira ubuzima bwiza, dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye; bityo ibi biribwa bikaba bituma dutekereza neza, amagufwa yacu agakomera, amaraso agatembera neza, bikaba byaturinda n'indwara nyinshi zitandukanye. Ni ngombwa ko dukoresha ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umu...

Iki ni igikoresho kiri mu ubwoko bwa mudasobwa dukoresha mu itumanaho, mu guhererekanya amakuru ava hamwe ajya ku bandi. Si ibyo gusa iki gikoresho tunagikoresha dufotora. Iki gikoresho ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko gituma dukoresha igihe gito tugakora ibintu byinshi ndetse tukarushaho kugira iterambere.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka bigatuma dukura neza tugatera imbere. Si ibi gusa kuko ibi bihingwa bikoreshwa nk'umuti gakondo, bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza. Ni ngombwa ko tubifata neza, kugira ngo turusheho kwiyubakira igihugu cyiza.

Izi ni inyubako zubakiwe kwakira abantu zibaha ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse zibaha n'aho kuruhukira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ni ingenzi cyane ko tubungabunga izi nyubako tukirinda kuzangiza kugira ngo iterambere ryacu ryihute.

Iki ni ikinyabiziga dukoresha dukora ingendo zitandukanye tuva ahantu hamwe twerekeza ahandi, iki gikoresho gituma iterambere ryacu ryihuta binyuze mu gukoresha neza igihe mu kudatakaza umwanya mu bintu by'ingendo bityo bigatuma dukoresha igihe cyacu neza iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni igikoresho cyo mu bwoko bwa mudasobwa dukoresha mu itumanaho duhererekanya amakuru ava hamwe ajya ahandi, si ibi gusa kuko kidufasha no kuba twabika amakuru atandukanye kugira ngo tuzabashe kuyibuka mu gihe kizaza, kuko kidufasha no kuba twafotora, ni ingenzi cyane gituma tumenya amakuru yose.

Iyi ni inyubako ishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, ibaha imiti itandukanye kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze bitume batera imbere mu buryo bwose haba mu mutwe, mu mikorere ndetse yewe no mu mitekerereze bitume barusha kugira imbaraga zidasanzwe mu byo bakora byose.

Iki ni ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi mu bintu byinshi bitandukanye, haba mu buzima, mu bukungu ndetse n'ibindi, ibi ni ingenzi cyane kuko bituma tumenya uko umutungo w'isi ukoreshwa ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo turusheho kwiteza imbere muri byose, ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima, gitanga imiti itandukanye igabanyiriza uburibwe abantu bafite uburwayi, ndetse aha ngaha kigatanga n'ubujyanama uko abantu bakwifata, harimo no gutanga ubujyanama kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibyuyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga.

iyi ni inyubako ishinzwe kwakira abantu b'ingeri zitandukanye aho ari aho baba bavuye hose binyuze mu gutanga ibyoku kurya birimo ibishyimbo ibirayi bijumba ibyo kunywa birimo fanta amazi ndetse n'ibindibigatuma abantu barushaho kumererwa neza sibyo gusa kuko batanga naho kuruhukira kugira ubuzima bw'umuntu burusheho kugenda neza

Ibi ni ibihingwa biri mu bwoko bw'indabo, bidufasha kubona umwuka duhumeka nk'abantu, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza tugatera imbere. Si ibyo gusa kandi ibi bihingwa, bidufasha no kugira akanyamuneza kuko bituma duhumurirwa neza tukishima.

Ibi ni ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bifasha abantu mu buryo bwinshi butandukanye, harimo nko kubaha imiti igihe bahuye n'ikibazo cy'uburwayi ndetse no kubaha ubujyanama mu mitekerereze n'imyitwarire y'ukuntu bakwiteza imbere.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu myitozo ngororamubiri by'umwihariko tubiterura kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bituma dukura neza, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta, bityo ubuzima bwacu bugahora mu mutuzo tukagira akanyamuneza muri byose.

Izi ni inyubako zakira abantu batandukanye haba abo hanze y'igihugu ndetse n'igihugu mo imbere, izi nyubako zifasha abantu kubona icyo kurya, icyo kunywa ndetse yewe n'aho kuruhukira, bigatuma ubuzima bwabo burushaho kumera neza bagatekereza neza hanyuma ibyo bakora bakabikorarana n'imbaraga nyinshi bakarushaho kwiteza imbere.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abantu gitanga ubufasha butandukanye, harimo nko gutanga imiti, gutanga inkingo, ndetse no gutanga ubujyanama n'amahugurwa ku bijyanye n'imyitwarire myiza yatuma umuntu yiteza imbere, mu buryo bwose. Ni ngombwa ko iki kigo kitugira inama kandi tukazubahiriza.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu bitaro abantu baryamaho babarwayi, kugira ngo babashe kuba bahabwa ubutabazi ndetse bibarinde no kuba baremba, bityo ibi bikoresho bikaba bifasha mu kugabanya uburibwe ndetse no kubona aho umurwayi arambika umusaya, kugira ngo abone kwitabwaho mu buryo bwizewe.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bidufasha kubona umwuka duhumeka bigatuma tugira ubuzima bwiza, tugatera imbere mu buryo bwihuse, ni ngombwa ko twirinda konona ndetse no kwangiza ibi bihingwa kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza buzira umuze.

Izi ni inyubako zishinzwe kwakira abantu batandukanye zibaha icyo kurya, icyo kunywa, aho kuruhukira, ndetse yewe n'igihe bakeneye kureba ibikorwa by'imyidagaduro nk'umukino w'amaguru cyangwa se indi mikino bifashisha izi nyubako, ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni inyubako iberamo impuguro ndetse n'inama zitandukanye ku babyeyi, uko bakwiteza imbere mu bintu byinshi bitandukanye, haba mu gushyira hamwe mu kubaka umuryango, ndetse yewe n'ibintu byose byatuma barushaho gutekereza neza, iterambere ryabo rikihuta.

Izi ni inyubako zishinzwe kwakira abantu zibaha ibyo kurya ibyo kunywa aho kuruhukira ndetse yewe n'ibikorwa by'imyidagaduro iyo babishaka barabibona ni ngombwa ko dufata neza iyi nyubako kugirango turusheho guteza imbere igihugu cyacu.

Izi ni nyubako zikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi aho zicumbikira abantu bakabasha kuryama neza bakarya ibiryo birimo intungamubiri zose kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza, hanyuma n'abari gukora ubukerarugendo barusheho kubukora neza bishimye baguye neza.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bitanga umwuka duhumeka twe nk'abantu, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza, bikaturinda kurwaragurika, ni ingenzi cyane ko dusigasira ibi bihingwa, tukirinda kubyonona, kugira ngo turusheho guteza imbere igihugu cyacu.

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima gifasha abantu kubona imiti ibarinda indwara zitandukanye, kibatera inkingo, sibi gusa kuko kibafasha no mu mitekerereze kibagira inama y'uburyo bakwitwara kugira ngo biteze imbere, birinde indwara zitandukanye, hanyuma igihugu na cyo kirusheho kugenda neza.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi mu guhererekanya amakuru avaha ahantu hamwe ajya ahandi ndetse ava ku bantu bamwe ajya no ku bandi, ni ingenzi cyane kuko bituma twihutisha igihe dore ko ibyo bikoresho tubikoresha tubika n'amakuru kugira ngo mu gihe kizaza tuzabe tuyazi.

Iki ni igikoresho kiri mu bwoko bwi'ibitambaro bakoresha bapima umuntu kugirango bamenye uko umubiri we umeze umenye uko amagufwa ye ateye nuko ameze bamenye ko amaraso ye ameze bamenye niba nta muvuduko afite ni ingenzi cyane ko umuntu yipimisha kugira ngo abaganga bamenye uko ahagaze agirwarwe inama y'uburyo bakwitwara.

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima, gishinzwe kwita ku mibereho myiza y'abantu, kibaha imiti, kibaha ubujyanama haba mu miti ndetse no mu myororokere ndetse no mu mitekerereze. Iki kigo ni ingenzi, umuntu wese uhuye n'ikibazo asabwa kwitabira ndetse akisunga iki kigo kugira ngo ahabwe ubufasha, ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Iki ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu bafite ubumuga by'umwihariko abantu badashoboye kugenda, iki kinyabiziga bakicaraho hanyuma kikabasha kubatwara ahantu hamwe kikabageza ahandi, ni ingenzi cyane ko abantu badashoboye kugenda batwarwa muri iki kinyabiziga kugira ngo na bo uburenganzira bwabo bwubahirizwe.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo twicaye kugira bidufashe kuba twaruhuka neza, iyo dushaka gukora ibintu byacu dutuje bityo bigatuma tunabikorana akanyamuneza dore ko nta munaniro mwinshi tuba dufite. Ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu.

Ibi ni ibikoresho dukoresha tubyicaraho, tubihagararaho kugirango turusheho kuruhuka mu mutwe, bityo turusheho gukora akazi kacu dufite imbaraga n'akanyamuneza. Ni ingenzi cyane ko dufata neza ibi bikoresho, dore ko bidufatiye runini mu iterambere.

Ibi ni ibihingwa bidufasha kubona umwuka duhumeka nk'abantu, bityo tukagira ubuzima bwiza hanyuma iterambere ryacu rikihuta, ni ngombwa ko dusigasira ibi bihingwa tukirinda kubyangiza, kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu ndetse natwe tutisize, tugire ubuzima bwiza.

Iki ni igikoresho cyambarwa mu kaboko kugira ngo kidufashe kumenya aho igihe kigeze, bityo bigatuma iterambere ryacu ryihuta kuko bituma dukora cyane ndetse tukarushaho no gutekereza byihuse, ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu kibaha imiti itandukanye ibagabanyiriza uburibwe ndetse kibaha n'ubujyanama n'uburyo bakwita ku buzima bwabo kugira ngo bibe byabarinda indwara ni ngombwa ko igihe duhuye n'ikibazo twisunga iki kigo kugira ngo badufashe.

Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu binyuze mu kubaha imiti kugira ngo bibashe kuba byabarinda kurwaragurika ndetse no mu kubaha ubujyanama burimo ukuntu bakwitwara n'uburyo bakwifata n'indyo barya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza batera imbere muri byose.

Izi ni inyubako zishinzwe kwakira abantu, zibaha ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse yewe zikanabaha n'amacumbi kugira ngo barusheho gutekereza neza, ubwonko bwabo bukore neza iterambere ryabo ryihute, ni ngombwa ko izi nzu tuzifata neza, tukirinda kuzangiriza kugira ngo dukomeze gusigasira ubusugire bw'i nzu dutere imbere muri byose.

Iyi ni inyubako ishinzwe kwakira abantu bose bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aha ngaha bagirwa inama y'uburyo bakwitwara bakabahumuriza ndetse yewe bagahabwa n'imiti ituma barushaho koroherwa, ni ingenzi cyane ko umuntu uhuye n'iki kibazo atangira amakuru ku gihe ndetse akagana iyi nyubako bakamufasha.

Ibi ni ibimera bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka, bityo tugatekereza neza, tukagira ibikorwa bifite intego ndetse tugatera imbere mu buryo bwihuse. Ni ngombwa ko dusigasira ibi bimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, igihugu cyacu na cyo gitera imbere.

Ibi ni ibitaro biherereye mu ntara y'amajyaruguru, mu karere ka Musanze, bidufasha mu buvuzi butandukanye, harimo gutanga imiti, bityo bigatuma ubuzima bw'umuntu bubasha kuramirwa, bikaba byamurinda kuva mu mubiri. Ni ingenzi cyane ko twisunga ibi bitaro kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gukingira abantu kugira ngo bibarinde indwara nyinshi zitandukanye bitume bahorana amahoro ndetse amagufwa yabo akomere bitume bagira ubuzima bwiza boroherwa ndetse ubuzima bwabo burusheho kugenda neza bagire iterambere rirambye.

Iyi ni inzu ikorerwamo inama zitandukanye kugira ngo hafatwe imyanzuro ishingiye ku guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange, izi nzu zigomba gufatwa neza kugira ngo dukomeze gusigasira ibyiza byagezweho ndetse duteza imbere Igihugu cyacu mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubikamo ibintu bitandukanye, haba ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'amazi, ibishyimbo, ibirayi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, iki gikoresho ni ingenzi cyane kuko gituma ibyo twabitse twizera neza umutekano wabyo ko bimeze neza bitabasha guhungabana.

Iki ni ikigo nyafurika gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, kibafasha kubona mu bintu bitandukanye, harimo kuba kibagira inama mu kuba bafata indyo yuzuye ndetse no kubaha imiti bityo ubuzima bwabo bukabungabungwa. Ni ngombwa cyane ko iki kigo kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bigatuma twiteza imbere hanyuma tugakura neza, tugatekereza neza, gaturinda n'indwara zitandukanye.

Iki ni igihingwa gihingwa ku butaka, kidufasha kubona umwuka duhumeka bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza. Si ibyo gusa kuko iki gihingwa gituma tubona inkwi ducana ndetse tunagikoresha twubaka inzu zimwe na zimwe, bigatuma turushaho kugira umudendezo ndetse tukagira iterambere rirambye.

Ibi ni ibikoresho by'ingenzi cyane bikoreshwa iyo dukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bituma tugira ubuzima bwiza, bituma amaraso y'umuntu atembera neza mu mubiri, amagufwa ye agakomera agatekereza neza, akagira iterambere ryihuse, ni ingenzi cyane ko tubikoresha.

Iki ni igitanda kiba mu bitaro, aho umuntu uhuriye n'ikibazo gitandukanye cy'uburwayi ndetse n'ikindi kibazo kidasanzwe, aho ajya kuryamaho hanyuma abaganga bakaza bakamwitaho kugira ngo bitume ubuzima bwe burushaho kuba bwagaruka neza, ndetse abe yagabanyirizwa n'uburibwe.

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima kibungabunga imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko kibaha imiti ibarinda indwara, igihe bahuye n'ibizazane irabagoboka kuko bituma bagarura ubuzima bakarushaho gutekereza neza, kubaho neza, ndetse yewe iterambere ryabo rikiyongera bafite ubuzima buzira umuze.

Ibi ni ibikoresho ahanini bikoreshwa abana bakina imikino itandukanye, bikabicaza ndetse bikabatwara ahantu hamwe bibageza ahandi, bigatuma abana bishima. Ni ngombwa ko abana bakinira kuri ibi bikinisho kugira ngo barusheho gutekereza neza, bityo bakure bishimye, bahorane akanyamuneza.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha gutekereza neza ndetse bigatuma n'akazi dukora kacu ka buri munsi karushaho kugenda neza, ni ngombwa ko tubungabunga izi ntebe kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu ndetse duhorane ubuzima buzira umuze.

Iri ni itsinda ry'abantu b'abaganga rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho baganira ndetse bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu batanga imiti itandukanye ndetse no gufata neza no gutanga ubujyanama ku bantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bityo iterambere ry'abo ryihute.

Ibi ni ibinyabiziga dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu ngendo zitandukanye, tuva ahantu hamwe twerekeza ahandi. Ibi binyabiziga bituma iterambere ryacu ryihuta, binyuze mu gukoresha igihe neza ndetse tugakoresha igihe gito, bigatuma turushaho kumererwa neza, tugakora ibintu byinshi mu gihe gito, ubuzima bwacu bukarushaho kuba bwiza.

Izi ni inyubako zikoreshwa muzima bwacu bwa buri munsi zakira abantu zibaha ibyo kurya, ibyo kunywa hanyuma bakarushaho gutekereza neza, imirimo yose bakora bakayikora bafite amahoro ndetse batekanye batuje kuko bafite akanyamuneza dore ko hano baba bafite n'ibikoresho bibereka amashusho, hanyuma bakarushaho kwishima.

Mudasobwa ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhererekanya amakuru ava kuri bamwe ajya ku bandi, iki gikoresho gituma ubuzima bworoha kuko kubona amakuru biba ari ibintu byoroshye kandi biba ari ingenzi cyane, bigatuma iterambere ry'abaturage ndetse n'abantu muri rusange bose rigerwaho.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu kongerera abarwayi barembye umwuka, ibi bikoresho ni ingenzi cyane kuko bituma abarwayi barembye barushaho kugarura ubuzima, akaba ari nayo mpamvu ibi bikoresho dusabwa kuzajya tubifata neza ndetse tukabisigasira, bigatuma twubaka igihugu twifuza.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kidufasha kubona amakuru atandukanye agezweho, si ibi gusa kuko tugikoresha dufotora bityo bigatuma tunabika amakuru menshi kugira ngo tutazayibagirwa mu gihe kizaza, ni ingenzi cyane, ni ngombwa ko dukoresha iki gikoresho kugirango turusheho gukora itumanaho ryiza rigezweho.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri, ikorwa hakoreshejwe amaguru, amano, umutwe, ikibuno ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufwa yacu arambuka ndetse agakomera, bigatuma ubuzima bwacu bukomera, ndetse tugahorana akanyamuneza, iterambere ryacu rikihuta.

Ibi ni ibikoresho bishyirwa mu matwi kugira ngo umuntu abashe kumva ibintu byinshi bitandukanye, dore ko bicomekwa muri terefone bigatuma umuntu yumva ibintu mu buryo bwihuse, hanyuma akumva n'ijwi rirenga kandi ijwi rinini cyane. Ni ngombwa ko tubikoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibi ni ibikoresho biririmo ubwoko bw'imipira bikinwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri harimo amaboko, amaguru, bityo bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza kuko ibi bikoresho bituma abantu bagira ibyishimo, hanyuma bagasabana n'abandi. Ni ingenzi cyane ko tubikoresha kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbuto ni'ibiribwa bikubiyemo intungamubiri nyinshi, ahangaha abantu twifashisha imbuto kugira ngo turusheho kumererwa neza dutekereze neza, ndetse tugire n'imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, akaba ari yo mpamvu imbuto zikoreshwa ahantu henshi kugira ngo zifashe abantu ndetse zinabarinda n'indwara zitandukanye.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri dushobora gukora twicaye, duhagaze dukoresheje ibice by'umubiri bitandukanye birimo amaboko, amaguru, n'girakamaro kuko iyi myitozodufasha kuturinda indwara zitandukanye tugatekereza neza, tugakura neza, yewe n'iterambere ryacu rikihuta.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri umuntu akora akoresheje ibice bitandukanye by'umubiri; amaboko, amaguru, ndetse yewe n'ibindi bitandukanye. Ni ngombwa ko buri wese akora iyi myitozo, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugira uburinzi bukomeye, hanyuma bimurinde n'indwara zitandukanye.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu akoresheje ibice bitandukanye birimo amaboko, amaguru, umutwe, ikibuno ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane gukora imyitozo kuko bituma amaraso y'umuntu atembera neza bikamurinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho bityo agatera imbere mu buryo bwihuse.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri, ikorwa hakoreshejwe amaguru, amaboko, amano, umutwe, ndetse n'ibindi. Iyi myitozo ituma tugira ubuzima bwiza, dore ko amagufa yacu arakomera amaraso yacu agatembera neza, bikaturinda no kurwaragurika indwara nyinshi ziterwa n'umubyibuho ukabije, bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri umuntu akora akoresheje ibice bitandukanye bigize umubiri, amaboko, amaguru, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko idufasha ibintu byinshi bitandukanye, birimo gutekereza neza, kugira imbaraga mu kazi, gukura neza, yewe ndetse iterambere ryacu rikihuta.

Ibi ni ibikoresho dukoresha, bidufasha kumva ibintu mu buryo bwihuse, dore ko tubishyira matwi kugira ngo twumve n'irangururamajwi ryihuse, ni ingenzi cyane ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo twumve ibintu byihuse, bidufasha kuba twakora ibintu twihuse ndetse tumenye n'amakuru mu buryo bwihuse.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tunywa, duteka, dukaraba ndetse yewe tunafura imyenda, akaba ari nayo mpamvu twese dusabwa kubungabunga amazi, tukayarinda kuyangiza, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze, tumererwe neza, dutere imbere.

Ibi ni ibikoresho dukoresha dukora imyitozo ngororamubiri, bidufasha kuba twagira ubuzima bwiza, amaraso yacu agatembera neza mu mubiri, amagufwa yacu agakomera, bikaba byadufasha no kuba twakwirinda indwara zitandukanye. Ni ingenzi cyane ko tubikoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto, dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ibi biribwa ni ingenzi dore ko iyo umuntu abiriye aba afite uburinzi ku ndwara zitandukanye. Niyo mpamvu dusabwa kuzajya dukoresha ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu akoresheje ibice bitandukanye birimo amaboko, amaguru, amano , umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye ni ngombwa ko dukora iyi imyitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ingenzi cyane ko dukora iyi myitozo kuko bituma tugira ubuzima bwiza, amagufwa yacu agakomera bityo tugakura neza, tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubikamo ibinyobwa bitandukanye, birimo amazi, igikoma ndetse n'ibindi. Iki gikoresho kidufasha kuba byabirinda guhungabana bityo bigatuma twizera ko ahantu biri bimeze neza ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaboko, amaguru, amano, umutwe ndetse n'ibindi, iyi myitozo ni ingenzi cyane kuko ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, agakura neza, agatekereza neza, bityo iterambere rye rikiyongera akiteza imbere muri byose.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri: amaguru, amaboko, amano, umutwe, ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufa yacu akomera, amaraso agatembera neza, tugakura neza, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni ikiganza kigizwe n'intoki eshanu. Izi ntoki zituma umuntu abasha gukora ibintu byinshi bitandukanye nko gufata ku biribwa, gufata ku myambaro ndetse no gufata ku byuma bitandukanye. Ni ingenzi cyane kuko izi ntoki zituma dukora cyane, hanyuma tugatera imbere mu buryo bwihuse.

Ibi ni ibikoresho by'itumanaho dukoresha duhererekanya amakuru ava hamwe ajya ahandi, ndetse kandi tubikoresha mu kureba amashusho y'ibintu bitandukanye bituma tumenya inkuru ziriwe zivugwa ndetse n'ibibirigezweho ku rwego rw'isi, akaba ariyo mpamvu ibi bikoresho ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri dukora kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dukoresheje amaguru amaboko, amako, amano, umutwe ijosi, ndetse n'ibindi bice bitandukanye, ni ngombwa ko dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko ndetse n'ibindi, aho abantu baba birukanka. Ni ingenzi cyane gukora iyi myitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu atarwaragurika indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umubyibuho, bigatuma atekereza neza.

Iki ni igikoresho dukoresha mu kubika amazi ndetse yewe n'ibindi binyobwa bitandukanye. Iki gikoresho ni ingenzi, kuko gituma amazi ndetse n'ibindi binyobwa byabitswe bigira ubuziranenge. Hanyuma tukizera ahantu byabitswe ko ntakibazo byagira. Ni yo mpamvu tugomba gusigasira ibi bikoresho, tukabikoresha neza kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwa...

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye bashinzwe kwita ku barwayi, binyuze mu kubaterura, ndetse bigatuma aba barwayi bihutishwa bakajyana ku bitaro bagahabwa ubufasha, aba bantu bakora akazi gakomeye, ndetse buri wese n'inshingano ze kwita ku murwayi.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo; amaguru, amaboko, umutwe, amano ndetse n'ibindi. Ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu akoresheje amaguru, amaboko, amano, umutwe, ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane, kuko iyi myitozo ituma umuntu agira amagufwa akomeye, bikamurinda n'indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho, agakura neza, agatekereza neza,

Ibi ni ibikoresho dukoresha, by'umwihariko iyo tutameze neza mu buzima. Cyane cyane nk'iyo umuntu yavunitse, ibi bikoresho bifasha umuntu kuba yagenda nta kibazo bigatuma agabanya n'uburibwe. Niyo mpamvu, ibi bikoresho tugomba kubisigasira tukabifata neza.

Iki ni igikoresho abaganga bakoresha kugira ngo bapime ubuzima bw'umwana by'umwihariko mu kanwa kugira ngo barusheho kumenya niba nta kibazo afite mu kanwa, bitume yahabwa ubufasha butandukanye, yitabweho akire vuba, bitume ubuzima bwe bukora neza, atekereza neza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri umuntu akora akoresheje ibice by'umubiri, harimo amaboko, amaguru ijosi ndetse n'ibindi. Ibi ngibi bigatuma ubuzima bw'umuntu burushaho kumera neza, agatekereza neza, agakura neza, bikamurinda n'indwara ziterwa no kudakora siporo.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri, ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye, birimo amaboko, amaguru, umutwe, ndetse n'ibindi. Ni ngombwa gukora iyi myitozo ngororamubiri, kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza, ikabarinda kurwaragurika.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye, amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ngombwa cyane ko dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dutere imbere muri byose.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo umutwe, amaguru, amaboko, amano ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufawa yacu akomera, imitsi ikambuka bigatuma dutekereza neza bityo tukagira iterambere rirambye, ni ngombwa dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, amano, umutwe, ikibuno ndetse n'ibindi. Iyi myitozo ituma amagufwa yacu akomera, imitsi yacu ikarambuka bigatuma tugira ubuzima bwiza; ni ngombwa ko dukora iyi imyitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibikoresho bidufasha gukora imyitozo ngororamubiri bityo bigatuma amagufa yacu akomera, hanyuma tukagira ubuzima bwiza tugatera imbere, ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu bityo tugire ubuzima buzira umuze.

Iki ni igikoresho tunywa mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo amaraso yacu atembere neza mu mubiri, amagufa yacu akomere, ubwoko bwacu bukore neza bityo bigatuma turushaho kugira ubuzima bwiza, si ibyo gusa kuko iki gikoresho tugikoresha dutetse, dufura ndetse yewe n'iyo twoga turagikoresha.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri dukora dukoresheje ibice bitandukanye, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dushobora kwifashisha amaboko, amano, amaguru, umugongo, inda ndetse n'ibindi bice, ni ngombwa ko dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto, tubikoresha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dore ko bidufasha kuba byaturinda indwara nyinshi zitandukanye ndetse bigatuma tugira n'imbaraga, amagufa yacu agakomera, bityo iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko dukoresha ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibiribwa iri mu bwoko bw'imbuto bidufasha kugira ubuzima bwiza dore ko bikubiyemo intungamubiri abantu dukenera, ni ingenzi cyane kuko izi mbuto zituma amagufwa yacu akomera bityo bikaturinda kurwaragurika, ni ngombwa ko buri wese arya izi mbuto kugira ngo arusheho gusigasira ubuzima bwe.

Iyi ni imyambaro twambara mu ntoki kugira ngo biturinde kuba twahura n'ibikomere, cyangwa se n'imvune z'intoki, kugira ngo intoki zacu zikomeze kumera neza. Ibi bikoresho bituma uburinzi bwacu burushaho kugenda neza, bityo tugatera imbere, tukagira ubuzima buzira umuze.

Iki ni ikinyobwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi; tunywa, ndetse dutetse, dufura, yewe n'indi mirimo itandukanye yose igamije gutuma tugira ubuzima bwiza. Ni ingenzi cyane ko tuyakoresha kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu dore ko iyo tuyanyweye bituma ubuzima bwacu buruhuka hanyuma bikaturinda n'indwara zitandukanye.

Amazi ni igikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri mufi tunywa kugira turusheho kugira ubuzima bwiza tuyakoreshe mu bintu byinshi bitandukanye iyo turimo dufura tugiye kurya twoga twifashisha aya mazi kugirango turusheho kugira isuku ngombwa ko aya mazi yacu tuyafata neza ndetse tukirinda kuyanduza kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza buzira.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaboko, amaguru, amavi, amano, umutwe ndetse n'ibindi. Ni ngombwa cyane ko dukora iyi myitozo kugira ngo tugire ubuzima bwiza dore ko bituma ubuzima bwacu bugenda neza tugatera imbere mu buryo bwihuse.

Iki ni igikoresho cy'ikibeberi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kidufasha kubika ibiribwa ndetse n'ibinyobwa by'umwihariko amazi kugira ngo tuyanywe nta kibazo yagize, ni ingenzi cyane ko dufata neza iki gikoresho kuko gituma tugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi aho tubikoresha mu kugabanya ububabare bw'umuntu wahuye n'ikibazo kirimo gukomereka ku buzima ku bice by'umubiri harimo intoki, amaboko amaguru ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaboko amaguru umutwe ikibuno ndetse n'ibindi ni ingenzi cyane imyitozo ituma amagufwa y'umuntu akomera agatera imbere bigatuma ubuzima bwe burushaho kugenda neza .

Iyi ni imyitozo ngororamubiri umuntu akora akoresheje ibice bitandukanye birimo intoki, amaboko, amaguru, amano ndetse n'ibindi bitandukanye ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kumera neza duhore twishimye twizeye uburinzi bw'ubuzima bwacu.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, umutwe ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane kuko imyitozo ituma tugira ubuzima bwiza, tugakora neza, iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko dukora imyitozo kugira ngo tugire ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni imyitozo ngorora mubiri ikorwa n'abantu bakoresheje ibice bitandukanye, birimo amaboko, amaguru, ijosi, umutima ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ngombwa ko dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere ryacu ryihute.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi gitanga ubuvuzi ku muntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima by'umwihariko ikibazo cy'imvune, bamushyiraho iki gikoresho kugira ngo kigabanye uburibwe ndetse gikomeze n'amagufa bityo bibe byamworohereza gukira vuba.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu kuba yagira ubuzima bwiza, akura neza, atekereza neza, ndetse bigatuma amagufaye akomera akagira n'imbaraga zidasanzwe bityo iterambere rye rikihuta. Ni ngombwa ko dusigasira ibi bikoresho.

Iki ni ikinyabiziga gikoreshwa mu ngendo zitandukanye kiva ahantu hamwe kijya ahandi, gitwaye abarwayi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bihutishwe bahabwe ubufasha, ni ingenzi cyane ko iyo umuntu ahuye n'ikibazo cy'uburwayi atumizaho iki kinyabiziga kugira ngo kimutware kwa muganga.

Iki ni igikoresho gikoreshwa by'umwihariko iyo umuntu yagize ikibazo cy'imvune, bamushyiraho iki gikoresho bakakimuramburaho bigatuma amagufwa ye akomera, imitsi ye ikarambuka bikaba byatuma abasha gukira mu gihe gito. Ni ingenzi gukoresha iki gikoresho kuko gituma tworoherwa.

Ibi ni iribwa biri mu bwoko bw'imbuto zikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye ubuzima bw'umuntu bukenewe kugira ngo burusheho kugenda neza, bituma amaraso atembera neza amagufwa y'umuntu agakomera bityo agatera imbere mu buryo bwihuse, ni ingenzi cyane ko turya izi mbuto kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Uyu ni umwenda uhishyira mu kanwa no mu mazuru kugira ngo bitume umuntu yirinda kuba yakwanduzwa n'undi indwara zitandukanye. Uyu mwenda udufasha mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ni ngombwa ko tujya dukoresha uyu mwenda twirinda indwara nyinshi twirinda kwanduzwa n'abantu indwara zitandukanye.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye; amaguru, amaboko, umutwe, amano ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufwa yacu arambuka agakomera, imitsi yacu ikarambuka, bikaturinda indwara nyinshi zitandukanye duterwa n'umubyibuho ukabije, tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni igikoresho dukoresha tubikamo ibintu byinshi by'ibinyobwa by'umwihariko amazi. Iki gikoresho ni ingenzi cyane kuko iyo tubitsemo amazi bituma tugira ubuzima bwiza bigatuma amazi tunyweye twizera umutekano wayo dore ko kirinda amazi kuba yajyamo imyanda itandukanye.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo twahuye n'uburwayi butandukanye burimo nk'imvune, bigatuma ibi bikoresho bidufasha guteranya amagufa yacu, ndetse n'ubuzima bwacu tukagarura ubuyanja, tukarushaho gutekereza neza tukumva nta bubabare dufite, tugakora neza tugatera imbere.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufawa y'umuntu akomera bityo bikamurinda kurwaragurika bya hato na hato, ni ngombwa ko dukora iyi imyitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa abantu bakoresheje ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaboko, amaguru, amabuno, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko iyi myitozo ituma amagufawa yacu akomera bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ahanini igamije kurwanya indwara zitandukanye, binyuze mu gukoresha ibice by'umubiri bitandukanye birimo amaguru, amaboko, umutwe ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane kuko imyitozo ngororamubiri ituma turwanya indwara zitandukanye, bityo tukagira ubuzima bwiza, tugatera imbere.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ingenzi cyane kuko imyitozo ngororamubiri ituma amagufwa yacu akomera, amaraso agatembera neza, tugatekereza vuba kandi neza, tugakura neza iterambere ryacu rikihuta.

Iki ni igikoresho cya mudasobwa dukoresha mu itumanaho, mu guhererekanya amakuru ava kuri bamwe ajya ku bandi. Iki gikoresho tunagikoresha dufotora amafoto atandukanye ndetse niyo tubika amakuru dushaka kugira ngo tuzabe tukibuka mu mu gihe kizaza tuzayamenye mu buryo bworoshye. Ni ingenzi cyane iki gikoresho tugomba kugifata neza tukirinda kucyangiza.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice birimo amaguru, amaboko, amano, umutwe, ikibuno ndetse n'ibindi iyi myitozo ituma umuntu atekereza neza agakura neza bityo akagira ubuzima bwiza buzira umuze agatera imbere muri byose.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye bigize umubiri birimo amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi. Iyi myitozo ituma umuntu atekereza neza amagufwa ye agakomera, bityo iterambere rye rikihuta akagira ubuzima bwiza,

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaboko, amaguru, amano, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi myitozo, ituma dutekereza neza, tugakora neza, iterambere ryacu rikihuta. Ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi, iyi myitozo ituma amagufa yacu arambuka agakomera, imitsi yacu ikarambuka bityo bigatuma dutekereza neza tukagira iterambere ryihuse, ni ngombwa ko dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni bikoresho bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi turimo dusukura mu menyo yacu, bigatuma duhumura neza ndetse bikaturinda n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda. Ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu, bityo twirinde n'indwara nyinshi zitandukanye.

Ubu ni ubuvuzi abaganga baha abarwayi by'umwihariko iyogize ikibazo mu mavi, bakaba ubu buvuzi kugira ngo barusheho kuba amagufa yabo yakomera, bityo bitume bagenda boroherwa ndetse bahabwe n'imiti itandukanye, babashe kuba bagaruka mu buzima.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu kuvura umuntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima by'umwihariko kuvunika akaguru, iki gikoresho gituma amaraso atembera neza ndetse amagufwa y'umuntu agakomera n'imitsi ikarambuka, bityo ni ngombwa ko dukoresha iki gikoresho igihe twagize ikibazo cy'imvune kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni indyo yuzuye ikubiyemo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, ni ngombwa ko dufata indyo yuzuye kugira ngo dukure neza, dutekereze neza, hanyuma iterambere ryacu ryihute mu buryo bworoshye kandi duhorane akanyamuneza mu mubuzima bwacu.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa hakoreshejwe ibice bitandukanye birimo amaguru, amaboko, umutwe, amano ndetse n'ibindi. Iyi myitozo ituma turushaho kugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza, tugakora neza, bityo iterambere ryacu rikihuta ndetse n'igihugu cyacu kikarushaho kugira umudendezo.

Iki ni ikinyobwa kitagira ibara dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi tukinywa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dore ko gituma amagufwa yacu akomera, tukagira umubiri mwiza, ndetse bigatuma twirinda no kurwaragurika indwara za hato na hato, bityo tugahorana umudendezo, tukagira umunezero, tugatera imbere.

Amazi ni ikinyobwa kitagira ibara dukoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bintu byinshi bitandukanye iyo dutetse iyo turi kuyanywa kugirango ubuzima bwacu burusheho kumera neza, ese yewe n'iyo turi gufura yewe n'iyo turi koga dukoresha aya mazi kugira ngo turusheho kumererwa neza, ni ngombwa ko tuyasigasira kuko ari ingenzi mu buzima bwecu.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa igihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bikamufasha kugabanya uburibwe, ndetse yewe bigatuma amagufa ye akomera. Bityo akarushaho kugira ubuzima bworoheye ndetse ibibazo afite bikagenda bigabanuka. Ni ngombwa ko dukoresha ibi bikoresho neza ndetse tukabibungabunga kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kumera neza.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu mukino w'amaboko, gifite ingenzi cyane kuko gituma abantu bishima cyane bakidagadura, bigatuma barushaho gutera imbere, ubwonko bwabo bugakora neza ndetse n'umubiri wabo ugakura neza muri rusange.

Iki ni igisukika kitagira ibara kuko gituma tugira n'ubuzima bwiza, dore ko tugikoresha mu bintu byinshi bitandukanye, turimo koga, dutetse ndetse no mu bintu byinshi bitandukanye turanakinywa. Ni ingenzi cyane ko dukoresha iki gikoresho kubera ko gituma tugira ubuzima bwiza tugatekereza neza, tugakora neza iterambere ryacu rikihuta.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri, dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukoresheje ibice bitandukanye birimo: amaboko, amaguru, amano, ijosi, umutwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ngombwa ko dukora iyi myitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyi ni imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu akoresheje ibice bitandukanye birimo amaboko, amaguru, umutwe, amano, ndetse n'ibindi. Iyi myitozo ni ingenzi cyane kuko ituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze, tugatera imbere mu buryo bwihuse bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza.

Iki ni igikoresho cya mudasobwa dukoresha mu itumanaho duhererekanya amakuru ava ku bantu bamwe ajya kubandi, si ibyo gusa kuko tugikoresha dufotora amafoto atandukanye iyo dushaka kumenya ubwiza bw'ikintu cyangwa se uko gisa, si n'ibyo gusa yewe kuko iki gikoresho gituma dukora ibintu vuba ndetse mu gihe gito.

Iki ni igikoresho cyo mu bwoko bw'ibinyabiziga gikoreshwa n'abantu bafite ubumuga butandukanye by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutagenda, bityo bakaba bifashisha iki gikoresho kugira ngo babone uburyo bakora ingendo zitandukanye bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Iki ni igitambaro dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo twahuye n'ikibazo cy'uburwayi, by'umwihariko twavunitse ukuboko, iki gitambaro gituma amagufwa yacu akomera, ndetse bigatuma n'imitsi yacu irambuka, bityo uburwayi bwacu tukagenda tworoherwa gake gake bikarangira bukize.

Ibi ni ibiribwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi by'ingenzi cyane bikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ibi biribwa bidufasha kugira ubuzima bwiza tugatekereza neza. tugakora neza, iterambere ryacu rikihuta twebwe n'abacu.

Ibi ni ibihingwa bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dore ko bituma tugira imbaraga hanyuma bikaba bifite n'ubushobozi bwo kuturinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'imirire mibi.

Iyi ni imiti itangwa n'abaganga ivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo inzoka ndetse n'izindi, ni ngombwa ko iyo umuntu ahuye n'ikibazo cy'uburwayi ajya kwa muganga bakamuha iyi miti kugira ngo ubuzima bwe buramirwe bitume agaruka mu buzima bwiza ndetse atere imbere.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka, bityo ubuzima bwacu bukagenda neza, tugatekereza neza, tugatera imbere mu buryo bwihuse, si ibi gusa kuko ibi birihingwa bikoreshwa nk'buvuzi bwa gakondo.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka bityo bigatuma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza cyane tukagira ubuzima bufite umuze, ni ngombwa cyane ko tubisigasira kugira ngo turusheho gutera imbere mu buryo bwihuse.

Ibi ni ibibiribwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kumera neza dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye zituma umubiri w'umuntu urushaho kugira imbaraga zidasanzwe agatekereza neza ndetse yewe n'ibyo akora akabikorana umurava mwinshi.

Iyi ni indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda ndwara ndetse n'ibitera imbaraga. Iyi ndyo idufasha gukura neza, gutekereza neza, amagufa yacu agakomera ndetse n'amaraso yo mu mubiri agatembera neza, bityo tukagira imbaraga zidasanzwe ku murimo, bikadufasha no kwiteza imbere.

Ibi ni ibimera bihingwa ku butaka bidufitiye akamaro biduha umwuka duhumeka ndetse twifashisha no mu bintu bitandukanye, mu gukora imbaho, mu kubaka, ibi bikoresho ni ingenzi cyane ni yo mpamvu dusabwa kwirinda kubitema mu gihe tutabiherewe uburenganzira tugahora twiteguye iterambere.

Ibi ni ibikoresho dukoresha dusukura mu kanwa kacu, bigatuma duhumura neza, tukagira akanyamuneza, bityo ibyo dukoze tukabikora twishimye, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta, dore ko dukora ibintu nta pfunwe kuko tuba dufite ubuzima bwiza, duhumura neza.

Ibi ni ibibiribwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi dore ko biba bikubiyemo intungamubiri zitandukanye ku buryo bituma tugira ubuzima bwiza, hanyuma kandi bikoreshwa nk'umuti kuko birinda indwara zitandukanye bigatuma ubuzima bw'umuntu burushaho kumererwa neza, agakora neza, agatekereza neza ndetse yewe iterambere rye rikihuta.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye ku buryo bituma umuntu arushaho kugira ubuzima bwiza, iyo abikoresheje nk'amafunguro. Si ibyo gusa kandi kuko bidufasha no kubona umwuka duhumeka. Ni ingenzi cyane ko tubungabunga ibi bihingwa.

Ibi ni ibininini dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo twahuye n'ikibazo mu buzima bwacu butameze neza, ubwo nk'umwihariko tuba twarwaye, ibi binini bituma tworoherwa bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza, bigatuma tugenda tugarura imbaraga, yewe n'akanyamuneza kakagenda kiyongera.

Ibi ni ibihingwa bifasha abantu mu bintu byinshi bitandukanye, harimo nko kuba bihereza abantu umwuka bahumeka bityo bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko tubungabunga ibi bihingwa tukirinda kubyangiriza, twirinda kubitema no kubitwika kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu.

Iyi ni indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ngombwa kurya iyi ndyo yuzuye kugira ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, amagufwa yacu akomere, imitsi yacu irambuke bityo dutekereze neza tugire iterambere rirambye.

Iyi ni gahunda yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bw'umuntu burusheho kuba bwiza, binyuze mu gukoresha amaguru, amaboko, amano, umutwe ndetse n'ibindi bice, ibi ni ingenzi cyane kuko bituma tugira ubuzima bwiza, tukagira iterambere rirambye tugahorana amahoro asesuye.

Ibi ni ibiribwa byo mu bwoko bw'imbuto bidufasha kugira ubuzima bwiza dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi dukenera nk'abantu, bityo ubuzima bwacu iyo turiye ibi biribwa bituma tutagira indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'imirire mibi, bigatuma iterambere ryacu ryihuta.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bitanga umwuka abantu duhumeka, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza, tukarushaho kwitabwaho. Si ibi gusa kuko ibi bihingwa bikoreshwa nk'umuti gakondo, dore ko bivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo umutwe, amazuru, amaguru ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibi ni ibihingwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha kubona umwuka duhumeka ndetse tukanabikoresha iyo twarwaye kureba ko bituvura indwara nyinshi zitandukanye haba; umutwe, amaguru, amaboko. Ni ingenzi cyane ko dusigasira ibi bihingwa kuko bituma dutera imbere.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka budufasha kubona umwuka abantu duhumeka bityo tugakura neza tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta ni ngombwa ko twirinda konona ibi bihingwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibi ni ibihingwa, bihingwa ku butaka budufasha kubona umwuka duhumeka twe nk'abantu, bityo ni ingenzi cyane ko tubisigasira, tukirinda kubyonona kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bufite intego, dutere imbere ndetse n'igihugu cyacu kirusheho gutengamara.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, biturinda indwara zitandukanye bityo bigatuma turushaho gutera imbere, ni ngombwa ko dufata ibi biribwa kugira ngo turusheho gusigasira ubuzima bwacu duhore dutera imbere.

Iki ni igikoresho kiri mu bwoko bw'ibiti, dukoresha mu gutunganya ibiribwa bitandukanye, by'umwihariko mu kubisya kugira ngo turusheho kurya ibintu bifite umwimerere, tugire ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko tubungabunga ibikoresho, kugira ngo turusheho kwita kuzima bwacu dutere imbere.

Ibi ni ibihingwa bitanga umwuka ku bantu duhumeka, bityo bigatuma turushaho kugira ubuzima bwiza. Si ibi gusa kuko ibi bihingwa tubikoresha nk'ibiryo, dore ko biri mu bwoko bw'imboga ndetse bigatuma turushaho kugira intumbero n'intekerezo nziza.

Ubu ni ubuvuzi gakondo bwo muri Afurika bwifashishwa iyo hakoreshejwe ibyatsi bitandukanye, ubu buvuzi butuma umuntu abasha gukira indwara zitandukanye mu gihe cyihuse, bityo agatekereza neza agakora neza iterambere rye rikiyongera.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitwongerera amaraso ndetse yewe bigatuma tugira n'imbaraga dore ko bikubiyemo intungamubiri zitandukanye. Ni ngombwa ko dufata ibi biribwa kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, dukure neza hanyuma dutekereze neza, turusheho gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibi ni ibihingwa, bihingwa ku butaka bidufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi, kubona amafaranga, kubona imbaho, yewe ndetse turanabyubakisha iyo turimo twubaka inzu zitandukanye zigezweho. Ni ngombwa ko ibi bihingwa tubifata neza kugirango turusheho kubona umwuka duhumeka, hanyuma tunatere imbere mu buryo bwihuse.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka ndetse yewe ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi dore ko binatuma turushaho kumererwa neza iyo tubibonye bigatuma akanyamuneza kaduhoraho tugahora twishimye ibihe byose.

Iyi ni indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, iyi ndyo iyo tuyiriye tugira ubuzima bwiza amagufwa yacu agakomera ndetse imitsi yacu nayo ikarambuka. Ni ingenzi cyane ko turya indyo yuzuye mu buzima bwacu buri munsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza buzira umu.

Iyi ni indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ngombwa ko turya indyo yuzuye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, kuko bituma amagufwa yacu akomera, umubiri wacu ukagira imbaraga, ndetse bikaturinda n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'imirire mibi.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bitanga umwuka abantu duhumeka ndetse tunifashisha mu bintu byinshi bitandukanye by'umwihariko iyo twahuye n'ikibazo cy'uburwayi, bibasha kuba byatuvura indwara zirimo, umutwe, amaguru ndetse n'izindi zitandukanye, ibi bikoresho ni ingenzi cyane mu buzima bwacu.

Iyi ni indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga; iyi ndyo idufasha kuba twakura neza, tugatekereza neza, tukagira imbaraga, bikaturinda kurwaragurika; bityo tugatera imbere mu buryo bwihuse.

Iki ni igihingwa gikoreshwa mu buvuzi gakondo; dore ko iki gihingwa iyo umuntu yarwaye indwara zitandukanye zirimo umutwe, amaguru akakinywa cyangwa se akagihekenya bituma izo ndwara zikira vuba; si ibi gusa kandi iki gihingwa tugikoresha mu bindi bintu bitandukanye; birimo kuba tugira ubuzima bwiza bityo tugatera imbere

Uyu ni umujyanama ushinzwe ubuzima, agira abantu inama z'uburyo bakwitwara ndetse n'uburyo barya indyo yuzuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Aha ngaha indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse n'ibitera imbaraga. Reka dusigire ubuzima bwiza binyuze mu kurya neza ndetse no kwifata neza, twubake u Rwanda twifuza.

Ibi ni ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, iyi ndyo yuzuye ni ingenzi cyane mu buzima bwacu kuko ituma dukura neza tugatera imbere bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza, igihugu cyacu nacyo kigatera imbere muri byose.

Ibi ni ibimera bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka; ibi bimera ni ingirakamaro cyane kuko bituma turushaho gutekereza neza; gukora neza ndetse bikaturinda n'indwara zitandukanye; bityo ubuzima bwacu bugahora butunganye.

Ibi ni ibiribwa bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, bidufasha kugira ubuzima bwiza kuko dutekereza neza, tugakora neza, iterambere ryacu rikihuta iyo twariye ibi biribwa. Ni ngombwa ko tubirya kugira ngo turusheho gutera imbere, duteze n'imbere igihugu cyacu.

Ibi ni ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ingenzi cyane ko turya indyo yuzuye mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo iterambere ryacu ryihute mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iri ni itsinda ry'ibiti ridufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubona umwuka duhumeka kuko iyo duhumetse umwuka wibi biti bituma turushaho kugira ubuzima bwiza. Si ibi gusa kandi kuko bituma tubona n'imvura ni ngombwa ko dusigasigasira ndetse tukabungabunga ibiti kugira ngo turusheho gusigasira igihugu cyacu ndetse n'ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, haba umutwe, amaguru, amaboko ndetse n'izindi ndwara zose zitandukanye. Ni ingenzi cyane ko igihe twahuye n'ikibazo cy'uburwayi tujya kwa muganga, tugahabwa iyi miti kugira ngo ubuzima bwacu buramirwe.

Iki ni igihingwa gihingwa ku butaka, dore ko gifite akamaro kenshi mu buzima bwa muntu, tugikoresha nk'umutako, ariko na none kiduha n'umwuka duhumeka. Ni yo mpamvu iki gihingwa ari ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko ari nk'inkingi ya mwamba.

Ibi ni ibiribwa biri mu bwoko bw'imbuto, bidufasha kugira ubuzima bwiza, dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi ubuzima bw'umuntu bukenera, kugira ngo burusheho kugenda neza, bityo bimurinde no kuba yarwaragurika, ni ngombwa ko turya izi mbuto kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bidufasha kubona umwuka duhumeka bityo tugatekereza neza iterambere ryacu rikihuta, ni ngombwa cyane kuko ibi bihingwa bikoreshwa nk'imbuto zitandukanye bigatuma turushaho kurindwa n'indwara zitandukanye ni ngombwa cyane ko tubisigasira twikiririnda kubyonona.

Ibi ni ibiribwa by'imbuto bifite intungamubiri nyinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, ni ingenzi cyane ko turya izi mbuto kugira ngo amagufwa yacu akomere, imitsi yacu irambuke, dutekereze neza bitume ubuzima bwacu burushaho kugenda neza.

Ibi ni ibihingwa bitanga umwuka abantu duhumeka, bityo bigatuma tugira iterambere ryacu ryihuta ndetse kuko bikomeza amagufa yacu imitsi yacu ikarambuka, bigatuma turindwa n'indwara nyinshi zitandukanye. Ni ingenzi cyane ko dukoresha ibi bihingwa kugira ngo tunabisigasire tugire ubuzima bwiza.

Iki ni ikinyobwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, gikubiyemo intungamubiri zitandukanye ku buryo bituma umuntu ukinyweye buri munsi agira imbaraga agatekereza neza hanyuma ubwonko bwe nabwo bugakora neza bigatuma agira iterambere ryihuse.

Iki ni igihingwa gihingwa ku butaka gikubiyemo intungamubiri nyinshi abantu dukenera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bityo ni ngombwa ko turya iki gihingwa kugira ngo dukomeze kwiyubakira iterambere ryacu, ndetse tugire ubwenge buhanitse dutume twiteza imbere muri byose.

Iki ni igihingwa gihingwa ku butaka gitanga umwuka abantu duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza bikaturinda kurwaragurika, si aha gusa kuko iki gihingwa tunagikoresha mu kuturinda indwara nyinshi zitandukanye bityo bigatuma dutera imbere muri byose tukagira ubuzima bufite intego, ni ngombwa ko dusigasira ibi bihingwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibihingwa bidufasha kubona umwuka duhumeka, bityo ubuzima bwacu bukarushaho kuba bwiza tugatera imbere, si ibi gusa kandi kuko ibi bihingwa tubikoresha nk'umuti gakondo utuvura indwara nyinshi zitandukanye, zirimo umutwe, amaguru ndetse n'izindi nyinshi.

Ibi ni ibimera bihingwa ku butaka bidufitiye akamaro dore ko biduha umwuka duhumeka akaba ari nayo mpamvu twese dusabwa gusigasira ibi bimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza dutekanye, duhumeka neza ndetse yewe ibyo dukora byose tunizeye umutekano w'umubiri wacu.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bitanga umwuka abantu duhumeka, ndetse n'ibihingwa tubikoresha twivura, dore ko biba bikubiyemo imiti itandukanye, by'umwihariko iyo umuntu yahuye n'ikibazo cy'umutwe, amaguru, amazuru, akoresha ibi bihingwa, ni ingenzi cyane ko tubisigasira kuko bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka, bigatuma tugira iterambere rirambye, ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza, ni ngombwa ko twirinda konona ibi bihingwa, kugira ngo turusheho kugira iterambere ryihuse.

Iki ni igihingwa gihingwa ku butaka, gitanga umwuka abantu duhumeka bityo bigatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza, bikaturinda indwara nyinshi zitandukanye, ni ingenzi cyane ko tubungabunga iki gihingwa, tukirinda kucyonona kugira ngo turusheho kwiyubakira iterambere rirambye.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, bituma abantu bagira ubuzima bwiza si ibyo gusa kandi kuko bidufasha no kubona umwuka duhumeka ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ngombwa ko tubifata neza.

Ibi ni ibikoresho dukoresha mubu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tubyitaho, bitume dutekereza neza, dukura neza, hanyuma iterambere ryacu ryihute, ni ingenzi cyane ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo dukomeze kwita ku buzima ndetse tunatere imbere mu buryo bwihuse.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka, bidufasha kuba twabona umwuka duhumeka. Si ibi gusa, kuko tubyifashisha nk'ibiryo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Dore ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye. Ni ngombwa ko dusigasira ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Iki ni igihingwa gitanga umwuka abantu duhumeka bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza ndetse iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko ibi bihingwa twirinda kubyonona, bityo kugira ngo dukomeze kwiyubakira igihugu gifite ubuzima bwiza.

Iyi n’imiti dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo twahuye n'ikibazo cy'uburwayi, iyi miti idufasha kutugabanyiriza uburibwe, bityo bigatuma tugenda tworoherwa ku buryo dukira mu gihe kitari kinini, bityo ubuzima bwacu bukarushaho kugenda buzahuka.

Ibi ni ibihingwa dukoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha kubona umwuka duhumeka bityo bigatuma dutera imbere mu buryo bwihuse, ni ingenzi cyane ko dusigasira ibi bihingwa tukirinda kubyangiza kugira ngo iterambere ryacu ryihute.

Iki ni igihingwa gitanga umwuka abantu duhumeka bityo ubuzima bwacu bukagenda neza bikaturinda no kurwaragurika bya hato na hato bigatuma dutera imbere mu buryo bwihuse, si ibi gusa kuko iki gihingwa gikoreshwa nk'ubuvuzi gakondo kivura abantu benshi batandukanye indwara zirimo umutwe amaguru n'izindi.

Uyu ni umuti uhabwa abantu batandukanye, ufasha abantu mu gikorwa cyo gutera akabariro, ukabarinda kurangiza vuba. Ukabarinda gucika intege mu gikorwa. Uyu muti utuma abantu barushaho kubikora neza. Bityo bigatuma umuryango wabo ukomera.

Iki ni ibihingwa bitanga umwuka abantu duhumeka bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza, ndetse tugatera imbere, ni ingenzi cyane ko dukoresha ibi bihingwa ndetse tukanabisigasira tukanabibungabunga, kugira ngo dukomeze tugire iterambere rirambye.

Ibi ni ibihingwa bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka abantu duhumeka bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza tugatera imbere, ni ingenzi cyane ko tubungabunga ibi bihingwa tukirinda kubyonona kugira ngo turusheho kugira iterambere rirambye.

Ibi ni ibihingwa, bihingwa ku butaka bidufasha kubona umwuka duhumeka nk'abantu, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza, tugatekereza neza, iterambere ryacu rikihuta. Ni ngombwa ko twirinda konona ibi bihingwa, tukabisigasira kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni igihingwa gitanga umwuka abantu duhumeka bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza buzira umuze saha gusa kuko iki gihingwa tunagikoresha nk'umuti gakondo kivura mu mazuru, mu mutwe ndetse n'ahandi hatandukanye ni ngombwa ko kubungabunga iki gihingwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibihingwa biri mu bwoko bw'imbuto bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bikubiyemo intungamubiri zitandukanye dukenera nk'abantu, bityo iyo turiye ibi biribwa tugira uburinzi hanyuma bikaba byaturinda indwara nyinshi zitandukanye duterwa no kurya indyo mbi, ni ngombwa cyane ko dukoresha ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.